Abantu babiri bari gusuhuzanya mu ntoki ndetse ubon ko bari guseka, umwe ni minisitiri ushinzwe ubuzima mu Rwanda, undi ni umuzungu ufite ibitabo mu ntoki, bari imbere kuri siteji bisa n'aho bahuriye mu ifoto imwe.

Umwana muto w'umukobwa wambaye impuzankano ari kurikandagira ukarabe arimo akaba ibiganza, hirya y'iwe inyuma gatoya hari abandi bambaye impuzankano zisa n'iz'iwe ari munsi y'igiti gifite amashami arumbaraje.

Abantu babiri harimo umugore wunamye ndetse n'akana gato karimo karamwitegereza bari kureba uko babona amazi amanuka, ni amazi atari meza ndetse bafite indobo isa umwera, umugore yambaye inkweto zisa umuhondo n'agapantaro gasa umukara ndetse umwana we yambaye imyenda ubona ko idafite isuku ihagije.

Itsinda ry'abantu b'abadamu bicaye muburyo butandukanye bafite udupapuro mu ntoki bamwe bambaye imyenda itandukanye n'iya bagenzi babo harimo n'abandi bari gutanga serivise umwe kuri umwe bagenda babakira, bicaye ahantu hateye irangi rijya gusa ubururu kandi na none hari isuku.

Itsinda ry'abantu benshi batandukanye rigizwe n'abagore n'abagabo bambaye imyenda itandukanye. Ku ruhande hari idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda. Inyuma hari icyapa kinini cyanditseho amagambo atagaragara neza bisa naho ari abayobozi.

Abana bane ndetse n'umukobwa umwe mukuru bakaba batanu, bari ku ivomo rusange aho ari gucunda, kugira ngo amazi aze; abana bateze utubuni twabo dutoya. Hirya yaho gato hari imodoka iri kuza ibagana ahantu bari, bisa n'ahantu bari ari mu gisambu haritaruye. Bari ku ivomo rusange.

Umwana w'umuhungu uri mu kigero cy'imyaka cumi n'itanu, uri ku ivomo rusange, wari urimo asuka amazi ariko akaraba intoki, hirya ye hari indobo, n'inyuma ye hari indi indobo zisa ubururu, ni ahantu hisanzuye abona ko inyuma yaho hariyo ibiti ariko bidakuze cyane, bijya gusa umuhondo ariko utijimye.

Abana babiri b'abahungu bari ku ivomo rusange barimo baravoma amazi meza ajya mu bikoresho bazanye by'indobo zisa umweru. Inyuma yaho hari ibiti bigaragara ko ari icyatsi kibisi kandi bihagaze. Hanyuma abana bambaye imipira hejuru barimo barareba mu ifoto.

Umukobwa w'inkumi wicaye imbere y'ivomo ari kwitegereza uburyo amazi ava mu ivomo yinjira mu ibafu inyuma ye hari imyenda imanitse ndetse hari inzu isakarishije amabati ndetse ikaba inazengurukishijwe n'amabati, imbere hari igiti cy'ipapayi kitagaragara neza.

Itsinda ry'abantu benshi bahuriye hamwe higanjemo abagore ndetse n'abagabo, banahetse abana bagore imbere yabo hari itente ndetse bigaragara ko hari serivisi baje gusaba aho hantu, hirya hari inzu imbere yabo nayo ifunze umuryango umwe undi ufunguye, bigaragara ko nayo iri kwifashishwa mu gutuma serivisi igera ku baturage.

Itsinda ry'abana bambaye imyenda itandukanye harimo impuzankano ndetse n'indi isanzwe bari ku ivomo rusange bose barimo barashaka amazi, bateze ibiganza byabo ku mazi aho amanukira hari undi wegeranye n'ivomo bisa naho ariwe urimo urayafungura.

Itsinda ry'abantu bari hamwe, rigizwe n'abagore ndetse n'abagabo harimo abambaye imyenda y'akazi, bigaragara ko bari gufata ifoto. Bari mu nzu imbere, imbere yabo hari ameza ariho igitambaro gisa umweru.

Abantu batatu bagaragara harimo abadamu babiri ndetse n'umwana umwe, bigaragara ko umudamu umwe ari muganga yambaye anafite ibikoresho by'akazi yambaye n'imyenda y'akazi arimo arasuzuma uyu mwana, nyina w'umwana we yicaye arimo arareba muganga yitegereza ibyo arimo arakorera umwana we.

Abantu batandukanye, igitsina gore abakobwa n'abadamu bahagaze imbere y'ivomo rusange, hari amabuni mbere y'akazu bavomaho hirya yaho mu kazu hariyo umudamu uri gukurikirana ibijyanye n'ayo mazi. Inyuma gatoya hari ibyuma bishinze, hirya hari ibiti birebire bigaragara ko hateye ibiti.

Urubuga rugari rurimo imashini zikora imirimo itandukanye ahantu hisanzuye, zigizwe n'ibyuma bitambitse n'ibindi bimanuka, bigenda bihanahana bigakora ikintu kimeze nk'imashini, bigaragara ko ari imashini eshatu zitandukanye, hirya yaho gato hari ishyamba rizengurutse aho hantu.

Abantu batanu harimo umugore umwe ndetse n'abandi batatu b'abagabo, umwe arimo akorera umwana ibuni y'amazi, umugabo yambaye imyenda y'akazi umupira usa n'ingofero.

Abana batatu b'abahungu bari mu kiyaga ku nkengero barimo baravoma amazi. Ubona ko inyuma yaho hari igice kimwe cy'ubutaka cyumye, kiriho ibyatsi bimeze nk'aho byumye. Barimo abambaye imyenda itandukanye.

Itsinda ry'abantu bari mu bice bibiri abakuru ndetse n'abatoya, abatoya ubona ko ari abanyeshuri bambaye impuzankano, abakuru bari imbere rigizwe n'ababyeyi bakuru baba mama ndetse n'abasore babiri bahagaze hirya ku ruhande bafite amatelefone mu ntoki.

Itsinda ry'abantu batandukanye bari imbere y'ivomo rusange aho umugore ukuze arimo arasunika amazi kugira ngo uw'imbere ayabone, imbere hari akana kateze amabuni atatu atandukanye, inyuma yaho gato hari abandi bantu bashungereye bari kureba uburyo amazi aza, inyuma yaho hari urutoki rugizwe n'insina zitandukanye ubona ko ari mu cyaro.

Itsinda ry'abantu batandukanye bicaye hasi bafite utwana, hari abari kubatambukaho bambaye imipira isa, bisa n'aho bakora muri gorobo helifu savisizi, bari kugenda baha amata abo bana n'indi miti itandukanye kwa muganga.

Abantu benshi bari gusaba serivisi, umuntu umwe wicaye, abandi barahagaze buri umwe ari kugenda asinya mu gitabo yabahaye, hariho ababyeyi n'abana batoya bategereje guhabwa serivisi.

Itsinda ry'abantu bamwe bicaye abandi bahagaze, hari abandi bicaye hafi y'ameza bafite mudasobwa ndetse bambaye n'udupfukamunwa bari gutanga serivisi, abandi bicaye ku ntebe bari kugenda bahamagara umwe kuri umwe, bicaye mu nzu yisanzuye ifite imiryango itandukanye, hatangirwago serivisi z'ababyeyi.

Itsinda ry'abantu ryiganjemo abazungu ndetse n'abanyafurika, harimo abana benshi bambaye impuzankano bazamuye amaboko, bigaragara ko bahuriye mu ifoto imwe. Aha ni ku kigo cy'amashuri aho abana babona ko bari bambaye imyenda y'ishuri.

Umwana mutoya ushimishije, mu isura ye hagaragaramo ibyishimo, wambaye imyenda y'umutuku ndetse wazinze amaboko, imbere ye hari ivomo rusange rifunguye, arimo arakaraba ku ntoki, birasa naho inyuma ye nta bandi bantu bahari gusa afite ahantu yarangariye gusa arasa neza.

Itsinda ry'abantu batandukanye rigizwe n'abagore, abagabo ndetse n'abana. Hari abantu benshi bari aho hantu. Hari umugabo wicaye uri guha umuti umwana mutoya urimo aramwitegereza mu amaso, imbere hari nyina wambaye neza bigaragara ko ari umuyisiramu, hirya yabo hari abandi bantu batandukanye bari muri izo serivisi bari munsi y'itente.

Itsinda ry'abantu bishimye bari guseka, bambaye imipira ijya gusa n'ibara ry'umuhondo bose bitegereje mu ifoto, bisa n'aho barimo barifotoza, rigizwe n'abadamu benshi ndetse n'abagabo. Bamwe muri abo badamu bakaba bakikiye abana ndetse abandi babiri bakaba baciye bugufi basutamye.

Abantu bageze kuri bane bari ku ivomo rusange rizana amazi mu mpande zombi, bamwe baricaye undi ari kuhagira umwana ku ivomo abandi barimo baravoma amazi, barimo baramwitegereza ubona ko bari guseka bitewe n'uko ari kuhagira umwana mu ibafu kandi ku ivomo rusange. Ni abagore babiri, abandi ni abana babiri, akandi ni akana kamwe gatoya barimo baruhagira.

Itsinda ry'abantu batari benshi, bageze mu munani, abagore ndetse n'abagabo, harimo n'inzego z'umutekano, Dasso, bicaye imbere y'inzu itangigirwamo serivisi, hafi yabo hari imodoka. Biceye mu buryo butatu barebana, imbere, iburyo no ku ruhande. Inyuma yaho hari inzu yisanzuye, iriho amabara asa icyatsi ndetse n'ubururu.

Amazi meza y'urubogobogo aramanuka neza pe, asa neza, hari umuntu urimo uramburaho ibiganza bitagaragara neza urimo uyanywa, yambaye umupira cyangwa se ishati isa n'ibara ry'ubururu ariko uzinze.

Itsinda ry'bantu bicaye bazengurutse ameza, imbere yaho hari ibirahure birimo icyo kunywa ndetse ubona ko bari mu nama, bambaye imyambaro itandukanye, hirya yabo hari abandi na bo bicaye bazengurutse ameza, bigaragara ko hari icyo bari kuganiraho.

Icyapa cya UNICEF for evere child, hariho abana babiri barimo baraseka, bambaye imyenda itandukanye, umwe arimo arafasha mugenzi we gukaraba intoki n'amazi meza, bitewe nuko afite igikombe arimo amusukira amazi.

Itsinda ry'abantu rigizwe n'abagore ndetse n'abagabo, barimo baratunda imifuka irimo ibintu bigaragara ko bari mu kazi, abagore babiri bagafatikanya mu kujyana umufuka urimo ibintu barimo baratwara, bimeze nkaho ari ifumbire, cyangwa se ari imyaka.

Umuntu wicaye igice kimwe cy'ukuboko kwe bagufashe bari kwinjizamo urushinge, amaboko abiri afashe urushinge yambaye uturindantoki, bisa naho ari muganga urimo uravura umurwayi ugiye kumutera urushinge.

Itsinda ry'abantu bicaye abandi bahagaze bambaye udupfukamunwa, bigaragara ko barimo batanga serivisi zo kwa muganga, barimo bita ku bafite ibibazo bigiye bitandukanye banabasuzuma.

Itsinda ry'abantu benshi bicaye mu nzu mberabyombi, bari kwitegereza imbere buri muntu afite ikaramu, yambaye ikarita, harimo abadamu, abagabo ndetse n'abasore.

Abantu benshi, bamwe bahagaze, abandi bunamye, abandi bicaye, bari kwifotoza, bambaye imyenda isa hejuru, bose bambaye ibara ry'umweru n'imipira, harimo abadamu, n'abagabo, ndetse n'abasore, bari kureba mu cyerekezo kimwe.

Itsinda ry'abantu bicaye mu itente harimo abagore ndetse n'abagabo, imbere yabo hari umuntu uhagaze w'umugabo ufite indangururamajwi, arimo avuga abandi bagatega amatwi, ku ruhande hari uwambaye impuzankano za polisi bigaragara ko ari umudamu ushinzwe umutekano, hirya ku ruhande hari abantu b'abamama bafite imitaka itatu bahetse n'abana batandukanye bakaba bameze nk'aho bari mu nama.

Umwana mutoya uri guseka wambaye agapira gasa umuhondo uri kuvoma amazi ku ivomo rusange, ari kuvoma ukoresheje igikombe ariko amatiyo yose arafunguye, rimwe niryo ari kuvomaho irindi amazi arimo arameneka.

Ifoto igaragaza abanyeshuri, abahungu n'abakobwa bigaragaza ko biga pirimeri bambaye udupfukamunwa ariko batumanuye, bicaye ku ntebe z'abanyeshuri mu ishuri, imbere yaho hari amasahani ateretseho ibyo kurya, bigaragara ko baririye mu ishuri barimo kwifotoza inyuma yaho hari ikibaho cyanditse amagambo atandukanye.

Mu kigo cy'amashuri hisanzuye ariko hadasa neza cyane, hari umwana w'umukobwa wambaye impuzankano uhagaze ku ivomo rusange, uri kunywesha amazi ikiganza cye, imbere ye hari indobo bashyiramo imyanda izwi nka puberi, hirya hari undi mwana, hakijikijwe n'amashuri yubatse mu buryo butandukanye atagaragara neza mu ifoto.

Abana batandukanye abahungu n'abakobwa bagiye ku ivomo rusange, bateretse ibikoresho byabo birimo indobo n'utujerekani, bari gukaraba ku ntoki, bose barahagaze, abahungu barunamye, n'abakobwa b'inyuma barunamye, bateretse hasi ibivomesho byabo.

Abantu babiri, umugore ndetse n'umugabo, umugabo afite ifoto ishushanyijeho abana babiri, yambaye umwenda w'akazi nk'umujyanama w'ubuzima cyangwase muganga, umugore na we arimo aritegereza ifoto, bisa n'aho hari ibyo arimo amusobanurira, inyuma yabo hari inzu ifunguye idirishya, ndetse ifite urukuta rugizwe n'amabuye.

Ikirango gikoze mu buryo butangaje, kamwe gaturuka hirya n'akandi gaturuka hino, harimo amagambo UN WFP, bigaragara nkaho ari ikirango gikoreshwa n'umuryango w'abibumbye.

Ikirango cy'umuryango mpuzamahanga ushinzwe kwita ku bana UNICEF, kigizwe n'amabara abiri ubururu butijimye neza ndetse n'umweru, UNICEF for every children.

Abantu babiri bagaragara imbere cyane ni abagabo. Umwe ahetse igikapu, undi nta gikapu ahetse. Bose bambaye udukomo dusa. Inyuma yabo hari abandi bantu bareba mu byerekezo bitandukanye. Bari mu nzu ubona ko ari nini, imeze nkaho wagira ngo ni kwa muganga cyangwa se ni ku isoko.

Abantu batatu bateruye umufuka umwe, umugabo ari hejuru, abagore babiri bari hasi bigaragara ko bari gufatikanya gutunda iyi mifuka, abagore babiri bigaragara ko bambaye imyenda ikoze mu bitenge. Umugabo yambaye ishati yiganjemo ibara ry'ubururu, hari n'ikirere kirimo ibara ry'ubururu.

Itsinda ry'abantu batandukanye rigizwe n'abagore ndetse n'abagabo, bambaye amataburiya y'akazi ndetse n'amakarita y'akazi, barimo barishima bari gukoma amashyi, imbere yabo hari umuzungu ukuze w'umusaza wambaye imyenda y'umukara, inyuma yabo hari abandi benshi batagaragara neza, ndetse hari n'inzu isize irangi ry'umuhondo, hirya yabo hari igiti gisa icyatsi kibisi.

Imibare kw'ijanisha itandukanye hari mu myaka igiye itandukanye bibiri na cumi n'umunani, bibiri nacumi n'icyenda na makumyabiri, bibiri na makumyabiri na rimwe bigaragara ko hari ijanisha ry'uburyo abantu bagiye bita ku buringanire ahangaha imibare igiye itandukanye ni ikirango cya global hels commit.

Itsinda ry'abantu higanjemo abagabo ndetse n'abagagore bari inyuma, bicaye ku meza, ndetse buri muntu afite icupa ry'amazi imbere ye, bisa n'aho bari gukurikira igikorwa kiri kujya mbere aho bicaye, ndetse buri muntu afite agapapuro imbere ye kariho amazina ye n'icyo ashinzwe, wagira habereye amahugurwa.

Abantu bane b'abagore batatu ndetse n'umwana umwe, bicaye imbere y'umuganga urimo ubasuzuma, bigaragara ko baje guhabwa serivisi zo kwa muganga, bambaye imyambaro igiye itandukanye.

Itsinda ry'abantu bicaye bazenguruka mu buryo busa neza, hari uri hagati wambaye umwenda bisa naho ari umwarimu uri kubaha amahugurwa bose bateze amatwi, harimo abagabo ndetse n'abagore bari ahantu hisanzuye ubona ko hari umwanya uhagije.

Abantu babiri bagaragara harimo umugore umwe mukuru wambaye agapfukamunwa, ndetse imbere ye hari umwana mutoya w'umuhungu wambaye impuzankano ugaragara igice cyo hejuru, arimo aramwigisha uko bakaraba intoki n'amazi meza n'isabune, ubona ko inyuma yabo hari igiti gifite amashami arumbaraje.

Abantu benshi bicaye, bambaye imyenda hejuru isa umweru, ni abadamu, ndetse hari umugabo umwe ufite isahani iriho n'ikiyiko arimo aratamika umwana, bisa naho ari igikorwa cyahuje abantu batandukanye cyo kwita ku bana, cyane cyane kubagaburira indyo yuzuye.

Umwana mutoya w'umukobwa aricaye arimo araseka areba cyane mu ifoto, imbere ye hari ivomo rusange rifunguye yateze ibiganza amazi y'urugobogo ari kuza akayafata mu biganza bye, wagira ngo agiye kuyanywa cyangwa se gukaraba, hirya gato hari amabuni ari mu ibara ry'umuhondo ndetse n'irindi riri mu ibara ry'ubururu.

Abayobozi babiri bicaye imbere, hari n'abandi babateze amatwi, bisa naho bari mu kiganiro rusange, bari kubaha amabwiriza ndetse n'amahugurwa, inyuma yaho hari ikirango kinini, kigaragaza serivisi bari gutanga, cyane cyane ku ndwara ya mabaga.

Abantu babiri, umugore ndetse n'umwana, imbere yabo hari ibiti cyangwa se indabyo, ziri mu mbara ry'icyatsi kibisi, ndetse ubona ko umugore arishimye n'umwana we arishimye, bigaragara ko bari kureba imbere bose mu ifoto.

Umwana mutoya w'umukobwa wambaye imyenda isa, ari imbere y'ibase y'umukara ndetse ku ivomo arimo arakaraba intoki n'amazi asa neza y'urubogobogo.

Umukobwa mukuru ndetse n'abana batoya bane bari ku ivoma rusange ahantu musanzuye, hirya gatoya hari imodoka iri guturuka inyuma iza ibegera aho barimo bafashwa n'uyu mukobwa mukuru kuvoma amazi, kubona amazi meza.

Abantu babiri b'abagabo ubona ko ari abayobozi, bicaye ku meza asa umuhondo, ndetse inyuma yabo hari icyapa cyanditseho amagambo atandukanye, bisa n'aho hari kampeyini bari barimo kuko imbere hari abo babwiraga n'ubwo batagaragara neza.

Abantu benshi barimo baratambuka higanjemo abanyeshuri bambaye impuzankano, hari umwana uri ku ivomo rusange bari gufasha kubona amazi meza, hari uri kumufasha wunamye hejuru y'iryo voma rusange. Ni ahantu ubona ko higanjemo mu cyaro, hari imisozi itandukanye ndetse n'inzu zidasa neza cyane.

Ivomo rusange rifite aho bavomera hane rikuze. Hari umwana muto w'umuhungu uri kwikorera indobo bigaragara ko irimo amazi. Ku ruhande rwe hari umugabo muremure mukuru uri kumureberera ariko ntabwo ari kumufasha. Hirya gato hari inzu y'amatafari igaragara nk'ikuze imbere y'ivomo ntago hapavomye.

Abagore babiri bicaye, umwe n'umuganga undi ni umubyeyi waje kuvuza umwana, aramukikiye, uwo muganga akaba ari gutera umwana urushinge ku kaboko k'iburyo, hirya inyuma yabo hari ameza ateretseho imiti ndetse hari n'abandi inyuma bari gufasha muganga umwana kugira ngo bamuvure neza.

Umugabo mukuru ndetse uri gusuhuzanya n'akana gatoya, bisa nk’aho umugabo mukuru yambaye umupira w'akazi. Inyuma ye hari abandi bana batoya badasa neza bicaye hamwe, inyuma hirya hari umudamu muremure wambaye ishati isa umweru ndetse n'igitenge, hirya yabo hari ibiti birebire.

Abana batatu, babiri bari hagati ni abahungu, umwe yazamuye ukuboko, bose barishimye bari kureba imbere, biragaragarako bari mu ishuri kuko inyuma yaho hari ikibaho cyanditseho ibintu bitandukanye, harisanzuye, hari ameza niyo batetseho amaboko.

Umugore ukuze w'umuzungu, ufite indangururamajwi mu ntoki ze, ikindi kiganza gikora ku mutima we, agatuza. Yambaye umwenda usa uruvu hejuru. Inyuma ye hari ibirango bya Unicef. Bigaragara ko arimo aratanga ikiganiro.

Abagore batatu bambaye imyenda itandukanye bari kuyivomo rusange, babiri barimo barapompa amazi kugirango ngo azamuke, undi umwe yateze ibafu ku mazi arimo aramanuka, bambaye imyenda itandukanye bisa naho ari mu cyaro.

Icyumba gisa neza imbere ku ruganiriro harategu hari umuyobozi umwe, urimo aratanga imbwirwaruhame kuri bagenzi be. Mu gicucu kigaragara hari abagaragara ko bicaye bamuteze amatwi. Ni umunsi mpuzamahanga wo kwita ku bijyanye n'ubuzima.

Abana bane ndetse n'umuntu mukuru umwe, bigaragara ko bishimye bari kureba mu ifoto mo hejuru, bose bahuje ibiganza arimo abasukira amazi bamera nkaho barimo barakaraba, hasi y'aho bari hari indobo cyangwa se ibase iri kujyamo ayo mazi, abana bambaye imyenda itandukanye, ku ruhande hari ibiti bigaragara ko byubatse urugo.

Abantu batatu bagaragara neza ku ifoto, harimo umwe ufite igikoresho cy'ikoranabuhanga gisuzuma, yambaye agapfukamunwa na marinete, imbere ye hari umudamu ukikiye umwana bari kurebeshaho icyo gikoresho, hirya hari undi mudamu wambaye ipantaro isa n'ibara ry'umukara ndetse wambaye n'ingofero, bari kwitegereza uwo mudamu ukikiye umwana.

Abantu batandukanye bagizwe abagore ndetse n'abagabo, bari ku ivomo rusange bafite amabuni apanze ku murongo, higanjemo abagore benshi ndetse n'umugabo umwe, aho ubona ko bategereje amazi meza yo kujya gukoresha mu rugo.

Ameza ariho ubwoko butandukanye bw'imiti yifashishwa kwa muganga, igizwe n'inshinge ziri mu matsinda y'ebyiri ebyiri ndetse n'agacupa bigaragara ko karimo umuti bakoresha batera abarwayi.

Itsinda ry'abantu rigizwe n'abagore ndetse n'abagabo, bahuriye mu gikorwa kimwe cyo gutera imbuto, ubona ko harimo n'inzego z'umutekano, ni ahantu bari kwifashisha guhinga imbuto ndetse bakoresheje imifuka.

Abagore babiri umwe ni umuganga, yambaye imyenda y'abaganga, yambaye uturindantoki undi yicaye imbere ya muganga akikiye umwana, umwana bari kumutera urushinge, muganga ari gusekera umwana mama w'umwana we afashe umwana.

Itsinda ry'abantu bamwe bicaye rigizwe n'abana ndetse n'itsinda ry'bantu bakuru, bamwe bahagaze harimo umwe ucishije make wasutaye hasi, abandi barahagaze bafite inkongoro, barimo barahereza abana ku mata. Amata abahame rwose.

Itsinda ry'urubyiruko rutandukanye rugizwe n'abahungu ndetse n'abakobwa, bambaye imyenda isa n'ikuze bari ku ivomo rusange n'ibivomesho byabo, umwe arimo arakurura yongera akwega kugira ngo amazi aboneke abandi bavome, bambaye imyenda y'amabara atandukanye, harimo nk'ibara ry'ubururu.

Abantu babiri bakuze b'abagore ndetse n'umwana mutoya, umwe ni umuganga wambaye imyenda y'akazi, undi ni umumama ufite umwana w'uruhinja barimo bahereza imiti, ubona ko nyina w'umwana arishimye, yicaye ku ntebe.

Umwana mutoya uri mu mazi y'ikidendezi w'umukobwa ndetse ari kuvoma, ibuni rye yarishyizemo hasi ririmo kujyamwo amazi, ubona ko ari amazi yo mu gishanga amwe bavuga ko ari amazi aba yanduye. Yambaye imyenda ubona ko idasa neza, bigaragara ko ari uwo mu cyaro.

Umwana umwe wambaye impuzankano ufite ibirahure bibiri birimo amazi atandukanye, yambaye ishati isa n'ibara ry'umuhondo ndetse n'ikabutura isa n'ubururu bwijimye, inyuma ye hari ikidendezi cy'amazi, hirya gato hari abandi bana b'abakobwa ndetse n'abahungu bagaragara ko batambaye bo impuzankano.

Itsinda ry'abantu benshi harimo abadamu, abagabo ndetse n'abana, bari imbere y'inzu itangirwamo serivisi za Leta, hari itente, hari n'imodoka ndetse n'iyo nzu, kuruhande hakikijwe n'ibiti bitandukanye ubona ko ari ahantu hisanzuye.

Abantu batandukanye b'igitsina gore bari ku ivomo rusange bateretse amabunne yabo ku mu rongonko, mo imbere mu kazu k'amazi hari umuntu urimo uri gukurikirana uko igikorwa kiri kugenda, bambaye imyenda itandukanye, benshi muri bo ni abadamu n'undi umwe wambaye ikanzu w'umukobwa ukiri mutoya.

Itsinda ry'abantu bambaye imyenda itandukanye harimo n'umuyobozi wa polisi ndetse hari abana benshi bari guhabwa amata bicaye bakiri batoya, inyuma yabo hari ababyeyi babo ndetse n'abandi bantu bifatikanyije n'iyo kampeyini, bisa naho bari gufasha abarwayi.

Itsinda ry'abana batoya bangana bageze muri batandatu, bose bari mu mazi bakuyemo imyenda, bari koga, buri muntu yerekera mu ruhande rwe, ubona ko bishimye cyane.

Umuntu w'umugabo wunamye, uri guseka, uri no gukaraba ku ntoki, kuri kandagira ukarabe, uri kureba imbere, wambaye ishati isa ubururu n'ipataro y'umukara ndetse n'inkweta z'umukara uri kureba imbere.

Bomboni ebyiri zisa ubururu bwijimye hejuru, hasi ni umukara, zimanitse ku twuma tw'amatiyo dutambitse inyuma hari imashini itugenzura, ku ruhande hari akandi kamashini gatoya gasa umukara bisa naho byesitaye bifasha muri serivisi z'ubuvuzi.

Umwana mutoya w'umuhungu wambaye hasi ikoboyi ndetse hejuru n'ishati ijya gusa ubururu, ari imbere y'indobo y'umweru ndetse ifite ibara rijya gusa hejuru ubururu. Iteretse ku kameza gatoye, ari kureba mu ifoto bisa n'aho ari gupfundura amazi. Inyuma ye hari urukuta rwubakishije ibiti.

Abantu batatu, abagore babiri n'umugabo umwe bari ku ivomo rusange, hari uwambaye ijile bigaragara ko ariwe uri gukurikirana igikorwaba cy'uko amazi ari kugenda. Bafunguye robine amazi ari kujya mabuni, hanyuma umugore afite ibuni ry'iwe n'umugabo afite irindi buni ry'iwe.

Umwana w’umuhungu wambaye ikabutura hasi ijya gusa n’ibara ry’umutuku n’ishati ari kunywa amazi akoresheje intoki ku ivomo rusange. Hasi hari indobo isa uruvu , inyuma ye hari ibyatsi bitandukanye.

Ubu bwoko bw'igishushanyo gishushanyije kigaragara, kigaragaraho serivisi zitandukanye zitangwa n'iki kigo, bigaragara ko gifite gihuriye n'ubuzima, hariho amagambo yerekana ubwoko bwa serivisi zitangwa zifite aho zihuriye n'iyi nzu ihagaragara.

Umwana mutoya w'umukobwa arimo araseka rwose, ari imbere y'ivomo rusange aho amazi ava mu ivomo amanuka ajya mu ibafu we yateze amaboko, hirya gato hari amabuni atatu atangana atandukanye, inyuma ye hari ibiti bitagaragara neza.

Abantu benshi bari ku ivomo rusange ndetse n'ibivomesho byabo byiganjemo amaboni ndetse n'amabasi, barahagaze bamwe abandi bicaye ku bikoresho byabo bategereje amazi ku ivomo rusange, higanjemo abagabo ndetse n'abagore n'abana batoya, n'ahantu hisanzuye ubona ko ari mu cyaro.

Abadamu babiri b'ababyeyi bafite abana, bambaye udupfukamunwa bombi, umwe ari gusoma uruhinja rwiwe aruteruye, undi nawe yaruteruye arureba arwitegereza mu maso, bari ahantu hari inzu iteye irangi risa n'umuhondo.

Abantu batandukanye batari benshi cyane, harimo abahagaze n'abandi bicaye, umugore wambaye ijire y'akazi ya RIB, uri gutanga ibipapuro ndetse n'abandi bari kubyakira bisa naho hari serivisi cyangwa se ubutumwa bari kubagenera binyuze muri ibyo bipapuro bari kwakira.

Itsinda ry'abantu batanu bagizwe n'abadamu, bose harimo umwe uri gutanga amabwiriza, abandi bagatega amatwi, bambaye imyenda itandukanye, bicaye ku ntebe zisanzwe zitoya zikozwe mu mbaho, imbere yabo hari ameza atetseho ibitabo biri kwifashishwa mu kubaha amabwiriza.

Abantu batandatu bagaragara ko bafite ibikombe, barimo baranywa amazi bari ku ivoma, ku kigega hari umugore mukuru urimo ubasukira amazi, bambaye imyenda isa, inyuma yaho hari urukuta rukozwe n'amabati ashaje, hirya yaho hari ikindi kigega kinini cyane, munsi hari indi nzu ubona ko ikuze, bari ahantu hadasa neza urebye.

Itsinda ry'abantu batandukanye abagabo n'abagore, harimo n'uwambaye imyenda igaragara ko akora mu rwego rw'umutekano, bari ahantu hisanzuye hari umucyo kandi inyuma yaho hari ibyapa bitandukanye, bigaragaza amagambo ya serivisi atangirwa aho bahagaze.

Abagore batatu bicaye bakoze uruziga, bambaye udupfukamunwa, umwe wambaye ingofero, abandi babiri ntayo bambaye, bari kumusobanurira ibintu bitandukanye, bafite n'ibitabo mu ntoki.

Umudamu uhagaze ari wenyine witegereza imbere ye usa naho arikwifotoza, wambaye imyenda itandukanye ku mabara ikanzu z'umutuku. Yambaye ikarita y'akazi mu ijosi, yambaye n'agakote kajya gusa umukara utijimye. Hirya gatoya hari icyapa kigaragaza abafatanyabikorwa ba Minisiteri y'uburezi mu nzu ifite ibyumba byinshi bitandukanye.

Abantu babiri batagaragara neza, bisa naho batishimye, bose ni abirabura, bambaye imyenda itandukanye, umwe ari imbere y'undi, undi yafashe ku wundi ndetse bicaye ku meza, bisa nkaho bafite ikibazo kuko ntibishimye.

Umugabo mukuru, wunamye imbere y'ururabo, inyuma ye ubona ko hari urukuta ruriho amazina y'abantu. Hirya hari umuntu ugaraga igice kimwe, wambaye akajire. Bisa n'aho ari ku rwibutso, bari kunamira imibiri y'abazize jenoside yakorewe abatutsi.

Umugore umwe usa n'ukuze, wicaye areba imbere muri kamera, inyuma ye hari umuntu w'umugabo wambaye ikoti y'umukara ariko utagaragara neza bigaragara ko yari agiye guhaha, umumama ukuze ureba nkushaka guseka.

Igice cyo hejuru cy'umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe, arasa nabi bitewe nuko ntabwo yambaye ibintu bisa neza, umusatsi usa nabi, ubwanwa busa nabi ndetse ni umwirabura, ari kunyura mu muhanda aho hirya hari abantu n'ibikorwa byabo bigiye bitandukanye.

Umuntu umwe wicaye mu cyumba, ubona ko kitameze neza, bigaragara ko ari imfungwa yambaye igitenge, yifashe amaboko ashyira ku mutwe, ari mu nzu idasa neza ishashemo ibikwembe, itamenya ngo ifite iri he bara.

Umukecuru ukuze udasa neza pe wicaye imbere y'ifoto wambaye imyenda ubona ko ikuzimo cyane, inyuma ye hari abantu batandukanye bajya mu byerekezo bitandukanye na bo ubona ko hari abicaye ndetse hari abandi bari kugenda, aha hantu bigaragara ko ari mu bihugu byo muri Afurika.

Urubyiruko rwambaye imyenda isa hejuru hagati yabo hari umugabo muremure wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, wambaye n'amarinete, hirya gato ku ruhande hari umudamu w'umuzungu wambaye ikote risa umweru n'ipantaro y'umukara, bari kureba imbere bisa nkaho bari gufata ifoto.

Itsinda ry'abantu batandukanye, bagizwe n'abantu bakuru, abagore ndetse n'abagabo, ubona ko bicaye mu matsinda ya bane bane, mu matente. Bambaye udupfukamunwa, bicaye ku ntebe zitandukanye, mu byerekezo bitandukanye; hari n'abagabo bahagaze bari kwitegereza uko serivisi ziri kugenda.

Umugore wicaye wigunze aziritse amaguru. Ku giti kinini ni ho bamuziritse ubona ko nta cyizere yifitiye. Inyuma ye bigaragara ko wagira ngo ni mu nkambi, hari abantu n'ibintu byabo bigiye bitandukanye.

Umugore wikoreye igitebo kirimo ibyatsi bitandukanye, afite isuka mu ntoki, asa n'uvuye mu murima, yambaye ijaketi isa umukara n'agapira karimo umuhondo n'amabara y'umukara.

Inyandiko imeze nk'icyapa yandiho amagambo agaragaza ko turi kumwe ndetse hariho umuntu umwe wirabura uri hafi y'idarapo ry'u Rwanda wambaye ishati isa umweru ndetse ubona ko afite n'imvi. Bigaragara ko hari campaign yari yateguwe bari bari kwifashisha izi nyandiko.

Inzu ifite amarembo yagutse, iteye amarangi atandukanye, imbere yaho hari ibiti bitandukanye, birimo imikindo ndetse n'ubusitani, kandi ikaba ifite urugi rufunguye n'amadirishya afunguye, iteye irangi rigizwe n'amoko abiri atandukanye.

Itsinda ry'abantu benshi bicaye hamwe bari kwitegereza mu cyerekezo kimwe imbere, bicaye ku ntebe zitandukanye bari muri sale ndende irimo amabara y'umweru bigaragara ko bari gutega amatwi abari imbere ariko batagaragara ku mafoto.

Ifoto y'uruziga rushushanyije, hagati harimo ishusho y'umuntu igice cy'umutwe, igaragaza ibice bitandukanye by'imbere, mu mutwe w'umuntu bimeze nk'ubwonko, ni ishusho igaragaza uburyo ishusho y'umuntu imbere imeze mu mutwe.

Umugabo wicaye hasi wambaye amapingu wambaye ikabutura ndetse n'agapira gatukura, hari ibintu bari kumuhereza biriho amafoto, inyuma ye hari abantu bahagaze bashungereye barimo baramwitegereza bareba ibyo arimo, ibyo ari byo.

Umugabo usa neza w'umwirabura urimo uraseka, wambaye umupira usa umuhondo hejuru ndetse ubona afite ubwanwa n'amenyo asa umweru ndetse n'ibara ry'uruhu ry'abirabura, bigaragara ko arimo yishima bitewe n'ibyo ari kureba imbere ye.

Abana batandukanye bakiri batoya bishimye bari kureba imbere, bambaye imyenda bose ijya gusa, biyogoshesheje ubona ko nta musatsi bafite, bambaye imyenda itandukanye, barimo bareba imbere bose mu cyerekezo kimwe.

Abantu babiri, umwe ni umugabo munini usa neza, undi ni umugabo mutoya wambaye nabi biragaragara ko afite ikibazo cy'uburwayi bwihariye. Umugabo munini wambaye ishati nziza yiganjemo umutuku ndetse n'ibara rya move ndetse n'ipataro isa umukara. Barimo barasuhuzanya bisa naho umwe akeneye serivisi zo kwitabwaho na muganga.

Isura y'umuntu igaragara mu maso, ndetse wafashe agatambaro k'umweru akagakoza mu maso bigaragara ko yari ari kwihanagura, yambaye ingofero y'umukara, ndetse n'ikote risa umukara, imbere harimo akenda k'umweru.

Imodoka nini cyane y'umweru imeze nk'inzu, iriho icyapa kigaragaza ko hari gahunda y'ivuriro rigendanwa ryita ku bantu bafite ikibazo cyo mu mutwe mu karere ka Bugesera. Iri mu isambu yisanzuye, hirya hari itente, imbere hari umuntu uri kuhaturuka.

Abantu batandatu abagabo babiri n'abagore batatu n'umwana umwe, bicaye bose bari mu kiganiro abagabo harimo uwambaye umupira utukura n'undi yambaye umweru n'abagore babiri bambaye ibitenge, undi yambaye agapira gasa ubururu.

Ni umugabo mukuru usa naho atishimye, kuko afite amarira mu mu maso, ni umwirabura bisa naho arababaye, yambaye agapira kajya gusa umuhondo ariko udakeye, arimo aritegereza imbere yiwe uko bisa kose ntabwo amerewe neza.

Ikirango kigizwe n'amagambo ane, sold minds counselling clinic live out your potential cy'ikigo gitanga serivisi zishingiye ku buzima.

Umwana mutoya wishimye w'umukobwa uri kureba mu ifoto wicaye ku ntebe ikoze mu biti ndetse n'ameza imbere ye, afite ibintu arimo ararya ari kureba mu ifoto ndetse ari guseka, inyuma ye hari undi mumama uhagaze ndetse hari n'umwana wicaye bisa naho wagira ngo ni mu ishuri.

Itsinda ry'abantu bahuje umugambi bitewe nuko bambaye imyenda isa hejuru, hagati yabo hari umugabo muremure wambaye ipantaro isa n'ibara ry'umukara ndetse n'ishati y'umweru, ku ruhande gato hari umudamu w'umuzungu wambaye imyenda itandukanye n'iyo bandi bari bambaye, yambaye imyenda ijya gusa umukara, bari ahantu hisanzuye hari inzu isa neza.

Itsinda ry'abana bambaye imyenda idasa neza bahagaze bose bari kureba mu ifoto kandi bari guseka, bamwe bambaye inkweto abandi ntazo bambaye, hirya yaho ubona ko ari mu gihuru hari ibyatsi bitari ku murongo, abana bose barimo barareba imbere mu ifoto.

Itsinda ry'abantu batoya batishimye bambaye imyenda ubona ko idasa neza bamwe barimo bararira wagirango ngo hari serivisi runaka barimo baratakamba basaba kandi batari guhabwa bagizwe n'abana ndetse n'abandi bantu ari bakuru ariko atari bakuru cyane bose birabura.

Umuntu w'umugore uhagaze imbere y'abandi bantu, bo bicaye, bisa naho ari mu mahugurwa afite ibyo ari kubereka, imbere yabo hari ameza ariho amazi yo kunywa, kandi uhagaze afite indangururamajwi, imbere ye hari intebe iriho mudasobwa, kandi imbere hari ameza, inyuma yabo hari urukuta, ruriho ibyapa bigaragaza serivisi barimo.

Umugore uteruye akana bose bishimye akana gasa neza kambaye umupira w'amaboko, uri mu ibara ry'umweru na nyina wako yambaye umupira w'umweru, afite imisatsi isa umukara, basa naho bishimye bombi.

Umuntu wicaye ku muhanda washobewe. Wambaye imyenda isa nabi bisa nkaho uyu muntu afite ikibazo cyo mu mutwe. Kandi afite amacupa abiri y'amazi mu ntoki. Urabona ko arigunze afite agahinda ari ku muhanda, yegamiye inzu ifite irangi rijya gusa umuhondo ariko ridasa neza.

Umuntu wambaye ibintu bisa n'iby'abantu wagira ngo afite ikibazo cyo mu mutwe, arasa nabi pe! inyumaye hari ingarani, ikusanyirizo ry'imyanda itandukanye, ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu gukusanya iyo myanda, yambaye ibintu bimuziritseho bitandukanye, mbese ubona ko adasa neza pe! atari umuntu muzima.

Umugabo udasa neza bisa naho afite ikibazo cyo mu mutwe, yambaye imyenda ishaje kandi icikaguritse, afite n'imisatsi idasa neza, ari kugaragaramo imbere mu ifoto ari ku kumuhanda agahanda gatoya k'abanyamaguru katarimo kaburimbo, inyuma ye hari ibiti ubona ko ahantu ari, ari kumuhanda usa neza.

Umugabo urimo uraseka w'umuzungu, wambaye agashati hejuru kiganjemo amabara abiri, umweru ndetse n'umukara gaciye amaboko, yambaye ipantaro ijya gusa n'ibara ry'umweru ndetse ufite uruhara, hirya ye hari icyapa kigaragaza serivisi zitangirwa hafi yiwe bigaragara ko ari ku bitaro by'i Ndera.

Abantu babiri bagaragara neza mu ifoto, umugore ndetse n'umugabo, hari ameza ariho igitambaro kiri mu ibara risa umuhondo, imbere hari icupa ry'amazi, umugabo arimo arareba muri telefone, umudamu na we arimo yitegereza, umudamu wambaye ibitenge ndetse n'umupira ujya gusa icyatsi kitijimye.

Umudamu wicaye witonze wambaye igitenge, imbere ye hari umusambi, yicaye ku gatebe k'agasonga bugari, bisa naho ari mu nzu ikuze, inyuma ye hejuru hari idirishya ritambutsa urumuri.

Imbonerahamwe iriho imibare itandukanye mu buryo bw'imyaka bibiri na kabiri, bibiri na gatanu, bibiri na cumi, bibiri na cumi na kane, bibiri na cumi n'umunani. Hariho imibare igaragaza uburyo umubare w'abantu mu Rwanda bapfa biyahura uko bangana.

Umuntu w'igitsina gabo ufite ibintu byinshi ateruye udasa neza, wambaye imyenda icikaguritse bisa n'aho afite ikibazo kidasanzwe, uhagaze ku muhanda, inyuma ye hari imodoka nini ya Fuso yifashishwa mu gutwara ibikoresho by'ubwubatsi.

Umuntu w'umugabo usa n'aho afite ikibazo kuko yambaye imyenda isa nabi, yicaye ahantu hasa nabi, mu muferege utwara amazi bisa naho hari ubusitani ariko budatoshye, yambaye imyenda yikingiye igitenge mu bitugu n'inkweto ubona ko zikuze, ameze nk'ubana n'ubumuga bwo mu mutwe.

Abantu batandukanye bicaye mu buryo butandukanye, bari kwitegereza umuntu umwe uhagaze, bisa naho bari mu mahugurwa; imbere y'umwe muri bo hari amazi, bose bafite amakaye, bambaye imyenda itandukanye, hari n'ibirango bigaragaza serivisi barimo.

Umugore uhagaze ureba imbere ari kwerekana ikarita afite, imeze nk'agatabo mu ntoki, wambaye umwenda w'ikanzu ugizwe n'amabara atandukanye, umuhondo ndetse n'ubururu nibwo bwiganje, yambaye amarineti ndetse afite n'imisatsi imanuka arasa neza, inyuma ye hari igipangu cy'amatafari kiri mu nzu igaragara igice kimwe.

Itsinda ry'abantu benshi batandukanye bicaye hamwe abandi bahagaze babazengurutse, inyuma yabo hari ibirango bya rbc. Bari munzu nini bigaragara ko bose bagiye gufata ifoto, bari ahantu hari isuku.

Itsinda ry'inzobere bicaye imbere ndetse ni batandatu, imbere yabo hari abandi bicaye mu ntebe zisanzwe ariko barimo barabatega amatwi, abicaye imbere bagizwe n'abadamu ndetse n'abagabo, bisa n'aho ari ikiganiro rusange barimo barageza kubabakurikiye.

Abagore batatu umwe uri imbere y'abandi babiri basigaye inyuma akikiye umwana arimo aramwonsa, bafite inkoni bose, ufite umwana afite n'agafuka mu ntoki, bambaye imyenda ubona ko bari bari mu kazi, bateze ibitambaro, bahagaze hafi y'umurima.

Abana bakiri batoya b'urungano benshi, bishimye bari guseka, bari kureba mu byerekezo bimwe benshi, abandi bari kureba mu kindi cyerekezo bambaye imyenda itandukanye, bagizwe n'abahungu n'abakobwa, uw'imbere ugaragara cyane arimo araseka, afite ahantu ari kwitegereza n'abandi bafite ahandi hantu bari kwitegereza.

Itsinda ry'abantu abagore, abagabo bambaye imyenda itandukanye, igizwe n'amabara y'umweru ndetse n'imikara, abagabo benshi bambaye ingofero bafite udupapuro, bari kureba imbere bisa naho bari gufata ifoto, inyuma yaho hari inzu nziza ndetse hari n'icyapa kindi kiriho ibirango bigaragaza icyo bakoraga.

Umugore wambaye ikanzu iri mu ibara ry'umweru, urimo uriborosa arimo araseka, imbere ye hari ubwoko bw'imiti butandukanye ari kwifashisha ndetse harimo n'amavuta, hari igikombe kibikwamo uburoso.

Umugore usa neza mu maso, ukeye w'umwirabura ndetse ubona ko asa neza afite isuku, yambaye umwenda hejuru w'agasengeri gafite ibara ry'umweru ndetse yazamuye amaboko harimo urudodo arimo arakurura ariko arucishije mu kanwa, bisa naho ari muri siporo.

Isura y'umugabo wasamye ndetse ubona ko ari umunyafurika, ufite udodo mu ntoki rufatishijwe n'amaboko yiwe ukw'iburyo kw'ibumoso ariko urwo rudodo rukaba rwambukiranya iminwa y'iwe. Hasi ku kananwa ndetse no hejuru ku kuboko kw'iki kw'iburyo.

Ubwoko bw'ibikoresho biri mu matsinda atatu, ndetse ubona ko ari ibikoresho byifashishwa n'abaganga iyo bari gukurikirana ubuzima bw'umurwayi. Ni ibikoresho bigizwe na bimwe na bimwe byose bikozwe mu byuma ubona ko ni ibyo kwa muganga gusa.

Umugore mwiza useka neza cyane, useka yambaye agasegeri gasa ibara ry'umweru, afite uburoso mu ntoki, arimo ari borosa cyangwa se yoza amenyo, afite imisatsi myiza imanuka, ubona ko afite isuku ihagije.

Itsinda ry'abana bambaye impuzankano zisa, bose bafite uburoso bwifashishwa mu koza amenyo ndetse mu ntoki zabo hagiye harimo n'ibikombe birimo amazi, bari kwigishwa uburyo gusukura amenyo bikorwamo kandi neza, bisa n'aho bose bahuriye mu ifoto imwe.

Abantu batandukanye bamwe bambaye imyenda isa ukwabo, abandi bambaye imyenda y'akazi, bisa naho bamwe ari abaganga, abandi akaba ari abarwayi, inyuma yabo hari itente isa umweru, iriho ibirango bya RBC bigaragara ko bari gutanga serivisi zijyanye no mu kanwa cyangwa se n'amenyo, hirya gato hari ibiti bikikije iryo tente.

Umuntu w'igitsina gabo urimo uritegereza ku menyo yiwe, afite akantu k'urudodo, amaboko yombi ari kunyuza ku menyo yo kuruhande, yambaye umupira w'umweru, nta bwanwa afite.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga biri ku meza isa neza bitandukanye, hari ibiri hakurya bine bisa ndetse n'ibiri hakuno kimwe gisa ukwacyo, biri ahantu ubona ko hari isuku ihagije.

Umugabo uri guseka wambuye mu gatuza, igice cyo hejuru y'umubiri, afite isume ku rutugu, afite urudodo rufatishije intoki zombi, urutoki kw'iburyo n'ukw'ibumoso, urudodo ruca imbere y'umunwa, arimo araseka areba imbere.

Itsinda ry'abantu batandukanye bambaye imyenda itandukanye, bari gutanga serivisi zitandukanye, hariho abaganga umugore arimo arasuzuma, umugore na we mugenzi we ariko we waje kwivuza utari umuganga, bicaye ahantu hari ameza bari gutangiraho serivisi, bambaye n'imiyenda y'akazi.

Umugabo mwiza useka neza ufite ibigango bigaragara ko ari umunyafurika, ufite ubwanwa ndetse n'umusatsi by'umukara, wasetse, warambuye amaboko ye noneho agafatisha urudodo mu ntoki ze zombi ariko zitandukanye akarucisha imbere y'akanwa.

Abaganga babiri bambaye imyenda y'akazi umugore ndetse n'umugabo, umugore arunamye, umugabo aricaye. Imbere yabo hari akana gatoya bari guha serivisi zo mu kanwa, karasamye barimo baragasuzuma, bisa n’aho bari kwa muganga. Inyuma y’aho hari icyapa kigaragaza serivisi y'ibyo bakora, bicaye ku meza ikozwe mu biti.

Abantu babiri batagaragara neza mu masura, barimo bariga igice cy'akanwa, amenyo, aho umwe ari kwerekera mugenzi we uburyo ki iryinyo barivuramo cyangwa barikuramo iyo ryarwaye. Imbere yabo hari ibindi bikoresho bitandukanye byifashishwa n'abaganga.

Abantu babiri, umugore umwe ndetse n'umwana imbere ye bisa naho ari umwana we, barimo bararebana bafite uburoso, umwana afite uburoso bwe na nyina afite ubwe buroso barimo baraseka umwe areba undi, bisa naho aribwo bakibyuka bagiye gukora amasuku yo mu kanwa.

Umwana mutoya uri guseka ufite uburoso bwo kuborosa mu kanwa, wambaye agakanzu bamutegesheje akantu mu mutwe, ari kureba imbere, arishimye, bisa nkaho ari kwifotoza.

Abantu bageze muri batandatu bari imbere mu ishuri, hari umwarimu wambaye umwenda w'akazi bafite igikoresho bari kwifashisha mu kwigisha ibijyanye n'amenyo, gukorera isuku amenyo, umunyeshuri yafashe igikoresho mwarimu afite uburoso mu ntoki arimo amwigisha uburyo basukura amenyo.

Ishusho foto, rigaragaza igice cy'imbere cy'umuntu cyane cyane mu kanwa, hagaragaramo amenyo agiye atandukanye ku ifoto bigaragara yijimye igice cyo hasi ndetse n'icyo hejuru ariko amenyo yo aragaragara.

Umwana w'umukobwa usa neza mu maso, ufite isuku, wasamye imbere ya muganga, aho ari kumushyira ibikoresho bisuzuma imbere mu kanwa, uko hameze, muganga yambaye uturindantoki dusa n'ibara ry'umweru.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo imashini nyinshi, ndetse zitandukanye zicometse, zifashishwa na muganga cyane iyo akurikirana ubuzima bw'abarwayi, harasa neza higanjemo ibara risa umweru, kuko hari isuku ihagije ni kwa muganga.

Icyumba cyihariye gisa neza cyane, kirimo ibikoresho bitandukanye harimo igitanda ndetse n'agatebe muganga yicaraho, hari ndetse n'ameza aterekwaho imashini ndetse n'aho muganga yakirira abantu, harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye bisuzuma ubuzima bw'abarwayi kwa muganga.

Inzu ndende y'umuturirwa yubatse haruguru y'umuhanda igeretse inshuro ebyiri. Itangirwamo serivisi zitandukanye, imbere yayo hari umuhanda usa neza, hafi yaho ku rugo hari ibyatsi bizamuka mu kirere nkaho bizana umuyaga, muri urwo rugo harasa neza.

Isura y'umugabo urimo uraseka, ugaragara igice cyo mu maso, warambuye amaboko, ariko akaba afite akagozi gahuza ibice bibiri byiwe by'amaboko, gatandukanye hirya no hino ariko gaca imbere y'amenyo.

Umwana mutoya uryamye ureba hejuru, bisa naho ari kwa muganga, inyuma ye hari umuganga wambaye imyenda y'akazi, n'uturindantoki, ufite ibikoresho bibiri, mu maboko yombi iburyo n'ibumoso, bisa naho yiteguye kuvura umwana.

Icyumba cyiza neza pe gisa neza, kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga kigizwe n'intebe ndetse n'agatanda baryamishaho umurwayi. Imbere yacyo hari ibindi bikoresho byifashishwa na muganga mu kwita ku buzima bw'umurwayi. Harimo ndetse kandi n'itara muganga akoresha iyo ari kumurika akurikirana ibice bitandukanye by'umubiri w'umurwayi.

Umugore wambaye imyenda abyukanye, afite uburoso arimo aroza amenyo, arasa neza afite isuku ari mucyumba gisa n'igifite irangi ry'umweru.

Umugabo ukiri muto. Wicaye ku gatanda k'abarwayi. Wasamye witegereza mu maso ya muganga. Muganga w'umuzungukazi, afite ibikoresho yifashisha avura abarwayi. Akaba yambaye n'uturindantoki.

Umurwayi uryamye ku gatanda k'abarwayi ureba hejuru wambaye umupira w'umukara, hejuru ye hari umuganga ndetse n'uri gufasha muganga, muganga afite ibikoresho bisa naho bagiye guha uyu murwayi serivisi zo kumuvura indwara zo mu kanwa nk'amenyo ndetse n'ibindi.

Abantu batatu, abaganga babiri ndetse n'umurwayi bambaye imyenda y'akazi n'uturindantoki ndetse n'amarinete. Barimo barasuzuma umurwayi uryamye ku gatanda ko kwa muganga bifashisha bari kwita ku barwayi. Imbere yabo hari icyuma kirimo kirabafasha kureba mo imbere gitanga urumuri.

Icyumba gisa neza gitangaje, kiracecetse cyane nta kavuyo karimo, harimo ahubwo ibikoresho byinshi by'ikoranabuhanga bitandukanye, higanjemo imashini ndetse n'intebe. N'utu meza ndetse n'igitanda byifashishwa na muganga mu kwita ku buzima bw'umurwayi.

abaganga ndetse n'abarwayi barimo barasuzumwa bambaye imipira isa, abaganga bambaye imipira isa n'ibara ry'umweru, abarwayi bambaye imipira isa n'ibarya ry'icyatsi kibisi, bamwe baricaye, undi w'umu damu arahagaze yambaye imyenda iri mu ibara ry'umutuku. Abaganga bari kubasuzuma, bahereye ku ruhande rumwe bajya ku rundi ruhande.

Umusaza mukuru wicaye usheshe akanguhe uri mu bwogero, bigaragarako hari umuntu uri kumwoza nawe ukuze, bamusize isabune mu mutwe, barimo bamunyuzamo n'amazi, afite ubwanwa busa umweru, umusaza arakuze barimo bamukorera isuku.

Abantu babiri. Umusaza mukuru usheshe akanguhe akikiye akana mu ntoki. Akana gasa neza abona ko ari umuzungu. Akana gafite igipupe mu ntoki. Umusaza bisa naho arimo arakaganiriza ubona ko yakishimiye cyane.

Abantu babiri b'abagore bakuze, umwe wicaye mu kagare k'abafite ubumuga bw'ingingo, undi wicaye imbere ye barimo baraseka ariko bisa naho arimo aramusuzuma umuvuduko w'amaraso. Umuganga yambaye imyenda y'akazi n'ibikoresho by'akazi mu matwi.

Itsinda ry'abantu bahuriye hamwe bicaye mu tente, ariko imbere hagaragara umukecuru ndetse n'umusaza barimo bitegereza ibiri kuba, bambaye imyenda ya kinyarwanda ubona ko baberewe bose ni abanyafurika barasa neza.

Abantu babiri barimo baraseka, umwe n'umugabo umwirabura undi n'umugore w'umuzungu, umwe afashe mu kiganza cya mugenzi we, umugabo yambaye ishati yiganjemo ubururu, ndetse n'umugore yambaye agapira mo imbere gasa n'ubururu butijimye, barasa naho umwe ari umuganga arimo afasha urwaye ariwe mugabo.

Umukecuru ukuze wicaye, imbere ye hari amashyiga atetseho agasafuriya gapfundikiye, ubona ko arimo arateka, inyuma ye hari ibyatsi byinshi bizitanye ubona ko yatekeye hanze ahantu wagira ngo ni mu murima, imbere ye ku ruhande hari ibyatsi byinshi biharunze, ubona ko ari byo ari kwifashisha acana.

Abantu babiri umugore n'umugabo, umugabo wambaye umupira usa ubururu n'ipantaro isa n'ibara ry'umukara, umugore yambaye imyenda isa n'ibara ry'umukara, bari kumanuka bisa naho umugabo arwaye umugore akaba amurwaje ari muganga amufasha mu gutambuka, inyuma yaho hari amakarito arimo ibintu bitandukanye.

Abantu babiri umugabo ndetse n'umugore, umugabo aricaye yateze ukuboko, muganga ari kumwambika icyuma gisuzuma, umugore ni umuganga, yambaye imyenda y'akazi ndetse afite n'ibikoresho by'akazi; umugabo yambaye amarineti afite n'uruhara, ipataro, ndetse n'agapira kajya gusa uruvu.

Abagore batatu batandukanye bambaye imyenda itandukanye bahuriye mu ifoto imwe serifi y'imbere, umwe wambaye umupira uri mu ibara risa umuhondo, abandi babiri bambaye imipira iri mu ibara risa umweru, bari guseka bishimiye ifoto aho bari kuyifata.

Abantu batatu b'abadamu, bishimye bafite amakarita mu ntoki, umwe ni umukecuru arakuze afite imisatsi y'umweru (imvi), abandi babiri bari kurebana bafite imisatsi y'umukara, bambaye imyenda bose itandukanye bari ku meza.

Abantu babiri bagaragara neza mu ifoto harimo umusaza ukuze ndetse n'umugore w'umuzungu usa neza bose baricaye, ubona ko bari kureba muri telefone imwe, imbere yabo hari ameza ateretseho radiyo ndetse hirya hari utubati dutandukanye twifashishwa n'abari muri iyi nzu ubona ko umudamu yarimo aritegereza cyane iyi terefone arimo aramwereka.

Abantu babiri, umwe aricaye, ni umugabo ukuze ufite imvi, undi ni umugore uhagaze wambaye imyenda y'akazi, bigaragara ko ari muganga, ari gutoza no gufasha uyu mugabo wicaye mu gatebe k'abarwayi, kuzamura ukuboko no kukumanura.

Abantu babiri bishimanye, umwe ni umugore undi ni umugabo ukuze bose bafatanya ku rutugu, bambaye imyenda itandukanye bari guseka bari kureba mu ifoto mo imbere, umugabo ubona ko akuzemo inyuma yabo hari urugi rwiganjemo ibara rijya gusa umukara ndetse ubona ko bose basa neza.

Abantu babiri umugore n'umugabo, umugabo ni umuganga, afite igikoresho cy'abaganga, umugore afite inkoni bimeze nkaho bari kwifotoza bose bari guseka, umugabo afite ubwanwa bwinshi, umugore ntabwo ateze igitambaro.

Abantu batatu harimo abagore babiri ndetse n'umugabo umwe, ni abagore barimo umwe mukuru umeze nk'umukecuru, ndetse n'umwana ukiri muto w'umukobwa, n'umugabo umwe wambaye umupira wiganjemo umutuku udahiye, wateze isahani barimo baramuha ibyo kurya, ubona ko bari mu gikoni, aho bari gutunganya ifunguro.

Abantu babiri bakuze, umwe ni umukecuru ukuze ndetse undi ni umusaza ukuze, bose bari kureba muri telefone ifitwe n'uwo musaza, imbere yabo hari ameza ariho imiti ndetse n'igikombe kirimo amazi meza y'urubogobogo, umukecuru afite agapapuro mu ntoki, inyuma yabo hari udukabati ndetse na firigo zitandukanye zifashishwa mu gutanga serivisi mu rugo rwabo.

Aantu batandukanye, harimo umukecuru mukuru n'undi begeranye bafite inkoni, ubona ko bari kuza begera imbere, inyuma hari umuhungu mutoya ndetse n'umukobwa bari kumwe bari mu muhanda w'igitaka, hirya yabo hari insina zikikije umuhanda. Hirya y'insina hari inzu imeze neza ariko ifite urugo rugizwe n'ibiti.

Abantu benshi batandukanye harimo abagore benshi n'abagabo bakeya bahagaze, imbere bareba ahantu hamwe bari gutanga ibikoresho bitandukanye, bigaragara ko bari gufata ifoto, bambaye imyenda y'amabara atandukanye agizwe n'ibitenge, abagabo bambaye amapantaro asa umukara n'amashati asa ubururu.

Umugabo mukuru usa neza, imbere ye hari ameza arambuyeho ibitabo, yifashe mu gahanga bisa naho atameze neza, ku ruhande rwe hari ibikoresho bitandukanye ndetse hari na terefone, birasa naho arimo arasoma nubwo atameze neza.

Abantu babiri umugore n'umugabo bakuze umwe n'umukecuru undi ni umusaza bose barishimye barimo baraseka, bambaye imyenda hejuru ijya gusa, hanyuma bakaba bari gukina umukino imbere yabo ku meza bisa n'aho umugore ari we wari ugezweho mu gukina.

Umukecuru wicaye utuje ucecetse ufite akarahuri mu ntoki, washyize ukuboko ku munwa, wambaye amarinete, ukuze ufite imvi, wambaye agapira gasa ubururu afite ikirahure mu ntoki.

Abagore babiri harimo ukuze ndetse n'undi mutoya bagaragara ko bishimye, barimo baratunganya amafunguro, buri umwe aritegereza undi, hari ufite icyuma ndetse urimo urakata imbuto, undi nawe imbere ye hari ibakure nini cyane ikoze mu buryo bwa pulastike, arimo aritegereza mugenzi we.

Abantu babiri bagaragara neza mu ifoto, umwe aricaye ni umugabo mukuru ukuze ndetse undi aricaye ni umugore uri kwita kuri uwo muntu ukuze. Uwo mugore ni umuganga wambaye imyenda y'akazifita ufite n' igikoresho cy'ikoranabuhanga gisuzuma uko amaraso agenda mubiri w'umurwayi, imbere yabo hari akameza gato gateretseho ibyo bikoresho.

Abagore babiri bari guseka bose bareba ahantu hamwe, umwe aricaye ubona ko akuze undi umuri inyuma ubona ko akiri mutoya, uwo uri inyuma yambaye imyenda igaragaza ko ari mu kazi cyangwa se imyenda y'akazi wagira ngo ni muganga, uri imbere yicaye ku ntebe yambaye imyenda yiganjemo umweru bicaye ahantu hameze nko muri saro.

Akayira gato gaca mu busitani, harimo abasaza babiri b'abagabo, umwe wambaye umupira w'ubururu n'undi wambaye ipantaro y'ubururu wambaye n'ingofero, bari kuganira baseka barebana mu maso, inyuma yabo hari ibyatsi bigaragaza ko ari mu busitani, harimo akayira gatambuka, gakomeza kereke aho baturutse.

Itsinda ry'abantu bagizwe nabagore ndetse n'abagabo bahagaze bose, imbere yabo hari udutebe tw'abafite ubumuga ndetse n'ubwiherero, kuruhande hari igiti inyuma cy'amashami arumbaraje,

Abagore babiri harimo ukuze wicaye umeze nk'umurwayi, ufite ikirahure mu ntoki kirimo amazi y'urubogobogo, muganga arimo amuhereza imiti. Muganga akaba ahagaze yambaye imyenda y'akazi ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu kwita ku barwayi, akaba yambaye n'isaha. Imbere yabo hari ameza ateretseho akantu karimo imiti.

Umusaza ukuze wicaye ku ntebe, imbere ye hari umudamu ufite ibipimo mu ntoki arimo asobanurira anereka uwo musaza, imbere yabo hari ameza ariho ibitabo n'impapuro z'umweru hateretseho n'igikombe n'utundi dukoresho bari kwifashisha. Inyuma yaho hari indi ntebe itariho umuntu bigaragara ko hisanzuye.

Umugabo mukuru w'umusaza, ufite imvi wambaye agapira kajya gusa umweru udakeye cyane n'ipantaro mu igice cyo hasi y'umukara, ufite udukoresho twa siporo mu biganza bye byombi akaba yambaye na ekuteri mu matwi, yambaye ma lunette mu maso, akaba afite imvi.

Abantu babiri bakuze, umwe ni umukecuru ukuze undi n'umugore mukuru na we, ari gufasha umukecuru kurambura ukuboko. Aho yamuhaye akuma kari buze kumufasha kurambura intoki. Ndetse arimo amufasha. Yambaye imyenda isa umukara umukecuru ndetse umuganga na we yambaye umwenda ujya gusa iroza ariko ridahiye cyane.

Ubwoko bw'imbuto nyinshi zitandukanye kandi zisa neza, ziganjemo izisa umutuku, umuhondo, ndetse n'ubururu buvanze, birasa naho byifashishwa n'abantu bakuru kugira ngo ubuzima bwabo bubone kugenda neza.

Abantu babiri bicaye bose umusaza yicaye kugatebe k'abafite ubumuga bwo kutagenda afite imashini mu ntoki yifasha gukina game ndetse n'umwana mutoya we yicaye ku ntebe barahantu hameze nko mu cyumba inyuma hari igiti kirekire kidafite amashami menshi ndetse ku ntebe harihoho imisego.

Umugore mukuru wirabura ufite ikirahure kirimo amazi meza, ndetse ukundi kuboko kukaba kuririmo imiti, arimo arayitegereza yambaye imyenda ibiri ifite amabara atandukanye, ari mu nzu nziza isa neza ndetse ifite amabara ari mu ibara ry'umweru.

Itsinda ry'abantu ryiganjemo abagore kandi ubona bakuze, benshi bambaye imyenda isa hasi umukara hejuru umweru, uw'imbere yambaye ikanzu bose ubona ko bari kwerekeza ahantu hamwe, bamwe bafite utuntu mu ntoki abandi ntatwo bafite, bari kureba mu cyerekezo kimwe.

Ni itsinda ry'abantu higanjemo abana, abakuru ndetse n'abagabo, ni umuryango uri hamwe bisa naho basuye umwe muri bo kwa muganga, kuko imbere hari nyina wabo ndetse inyuma hari abandi bavukana na bo.

Umugore wishimye ufite isahani mu ntoki iriho ibyo kurya, ukuboko kumwe ukundi kuboko gafite ifoke, arimo araseka, afite imisatsi irimo imvi kandi yambaye imyenda irimo ibara ry'umweru, ari ahantu hatuje mu nzu isa neza.

Abantu babiro. Umusaza ukuze wicaye mu gatebe k'abafite ubumuga ndetse n'umugore wunamye wambaye imyenda y'akazi bisa naho ari umuganga. Umusaza yazamuye ukuboko kumwe bari kumufasha kuzamura ukuboko, uko bisa kose ni umuganga urimo ufasha umurwayi. Umusaza ni umurwayi uhagaze ni muganga.

Abantu babiri umukecuru ndetse n'umusaza, bose wambaye imyenda yiganjemo ibara ry'umutuku, bafite imvi bari imbere y'ameza ahantu hatuje bigaragara ko wagira ngo niho bategurira ibyo kurya, bari gufungura utuntu dutandukanye, inyuma yaho hari akabati gateretseho ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gikoni.

Abagore babiri bakuze ubona ko ari abakecuru bari muri siporo ngororamubiri, ubona ko bazamuye amaboko yabo nk'abari kugorora amaboko. Bose bafite umusatsi wa natirere inyuma yaho hari ibiti birumbaraje.

Umugabo uryamye ku gitanda hejuru ye hari umuganga uhagaze wambaye imyenda y'akazi n'ikarita yo kwa muganga, hafi ye hari imashini igenzura ubuzima bw'umurwayi ukuntu ameze, umurwayi araryamye yambaye umupira w'ibara ry'umweru.

Abantu babiri umugore ndetse n'umugabo, ubona umugabo ukuze, bafite umuti mu ntoki, umugore arimo aritegereza, imbere y'umugore hateretse imashini ya compiyuta, ndetse imbere y'umugabo hari impapuro ndetse n'udukombe tubiri turimo umuti ndetse na telefone, arimo aritegereza umuti umugabo afite mu ntoki.

Abaganga babiri bambaye imyenda y'akazi, ubona ko bari mu cyumba cyihariye bari kwita ku murwayi uryamye imbere yabo. Bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga barimo kwifashisha bita kuri uwo murwayi, ubona ko bambaye imyenda y'akazi kandi bikwije mu buryo bwo kugira ngo birinde ko bandura.

Itsinda ry'inzobere rigizwe n'abaganga bageze muri bane. Imbere yabo hari umwana umwe barimo baravura bose bamuhuriyeho, bambaye imyenda y'akazi ndetse bari mu cyumba gituje kirimo imashini zitandukanye ziri kubafasha mu kwita ku buzima bw'umurwayi barimo baravura.

Abantu benshi bahuriye hamwe, bamwe bari imbere bari kugaragaza ubwoko bw'imbyino babyina barambuye amaboko, bambaye imyenda itandukanye bigaragara ko ari umunsi runaka mukuru upanzwe wakozwe, aho bamwe ari gusurutsa abandi kandi bakaba bicaye bitegereza mu cyumba gisa neza giteguye.

Umugabo umwe ukuze w'umuzungu uhagaze imbere, inyuma ye hari icyapa cyanditseho amagambo atandukanye, hirya ye hari televiziyo irimo kugaragara isura yiwe bigaragara ko baporojegitinze, hari abandi arimo arabwira batagaragara neza mu ifoto.

Abantu bane bambaye imyenda y'abihaye Imana, abamansera batatu bakuze, imbere yabo hari undi mugabo wambaye imyenda y'abagabo, ikote ndetse n'ipantaro Minisitiri w'Ubuzima mu Rwanda. Inyuma yabo hari ibirango bya Minisiteri y'u Rwanda, hariho amagambo ya Minisiteri y'Uburezi.

Abagore bane bagaragara bicaye buri umwe akikiye umwana barimo baraseka, bigaragara ko inyuma yaho hari igikuta kiri mu ibara ry'umuhondo ndetse wagira ngo ni kwa muganga baje gusaba serivisi z'ubuzima.

Abagore n'abagabo batandukanye, abazungu b'abadamu babiri ndetse n'abagabo batanu, bambaye imyenda itandukanye bari gufata ifoto bose bambaye amakarita ya serivisi bari barimo, inyuma yaho hari icyapa kigaragaza serivisi bari barimo.

Igice kimwe cy'umuntu, ukuboko kugaragara imbere, hariho ibiheri byinshi bitandukanye, imbere ye hari umuntu utagaragara neza w'umuganga urimo umusuzuma areba ubwoko bw'indwara yaba arwaye, cyane ko ukuboko hariho ibiheri byinshi bitandukanye ubona ko ari uburwayi bushya.

Abadamu bane bari kureba mu cyerekezo kimwe, bambaye imyenda itandukanye, bari kurebera inyuma y'icyapa kigaragaza serivise z'ibyo bajemo, bambaye imyenda itandukanye.

Abantu benshi batandukanye, bicaye mu buryo butandukanye, hari batandatu bari imbere y'abandi, hejuru yaho hari screen nini cyane iri kugaragaza bimwe mu byo bari kuganiraho, bisa n'aho bari gusobanura abandi bagakurikira ibyo bavuga. Buri umwe wese afite indangururamajwi imwegereye.

Ni umuryango wicaye, ugizwe n'umugabo ndetse n'umugore n'abana babo, bameze nkaho bari mu ruganiriro barimo baraganira, bari kugirana ibiganiro. Umugabo yambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro bijya gusa n'ibara ry'umweru n'inkweto z'umukara; abana bambaye karuvati zijya gusa ubururu n'amashati y'umweru, nyina wabo yambaye igitenge, akikiye umwana mu ntoki.

Itsinda ry'urubyiruko rugizwe n'abagore, abagabo ndetse n'abana bambaye imyenda yiganjemo ibara ry'umweru hejuru, bafite icyapa kinini cyanditseho amagambo atandukanye bigaragara ko hari ubukangurambaga barimo.

Abantu babiri, umugore ndetse n'umugabo bari imbere bari gufata ifoto bafite ibyapa byanditseho imibare itandukanye, bisa n'aho ari ibihembo bahawe bari bari kwerekana mu gihe cyo gufata ifoto. Iruhande rwabo hari ameza inyuma yaho hari icyapa cyanditseho gahunda yaberaga aho hantu.

Abantu batari benshi bamwe baricaye undi umwe arahagaze w'umugabo, bicaye imbere y'ameza y'igitambaro gifite ibara ry'umweru, bari gutega amatwi ibyo uhagaze ufite indangururamajwi arimo ababwira. Abandi na bo bagatega amatwi bitegereza imbere kuri televiziyo ihari.

Itsinda ry'inzobere, abantu benshi biganjemo abagore, abagabo, abirabura ndetse n'abera. Inyuma hari ikirango kigaragaza ko hari ibyo bari barimo, gisobanura ibyo barimo, bari gufata ifoto kuko bose bari kureba mu cyerekezo kimwe.

Abantu babiri bahagaze bagizwe n'umugore ndetse n'umugabo, umugore wambaye agakanzu kazamuye ndetse umugabo wambaye imyenda yiganjemo umukara ipantaro ndetse n'ikote, inyuma y'aho hari icyapa kigaragaza serivisi z'igikorwa cyabahuje, bari ahantu mu nzu mo imbere hari irange ry'umuhondo ndetse ubona ko bose bari mu ifoto imwe.

Itsinda ry'impuguke bicaye imbere, abandi bari imbere yabo bateze amatwi, bisa n'aho ari umunsi mpuzamahanga w'inama wabaye, abari imbere bambaye neza buri muntu afite indangururamajwi. Bari kugira ibyo basobanurira ababateze amatwi, bari mu cyumba kisanzuye kiberamo inama.

Ni ikirango kigizwe n'amagambo atatu, Healthy People Rwanda, bivuze ubuzima bw'abaturage bo mu Rwanda, cyifashishwa mu kwamamaza cyane cyane muri minisiteri ifite aho ihuriye ndetse n'ibikorwa bifite aho bihuriye n'ubuzima.

Abaganga babiri umwe arahagaze undi ari kwita ku murwayi, umurwayi aricaye yasamye barimo bamusuzuma, abaganga bambaye imyenda y'ubwirinzi ndetse uturindantoki n'agapfukamunwa, hakurya hari abandi bantu bahagaze bategereje nabo guhabwa serivisi nk'abandi.

Abantu babiri, umwe aricaye yazamuye umupira yambaye, barimo baramutera urushinge, undi ni muganga bose bambaye udupfukamunwa, ndetse afite urushinge arimo arutera umurwayi, hirya yaho hari abandi bantu batagaragara neza, ariko bose bigaragara ko bari muri serivisi z'ubuvuzi.

Umugore mwiza usirimutse, wicaye neza, washyize ukuguru kukundi, ufite indangururamajwi mu kuboko ku iburyo, ndetse akaba afite n'igitabo mukundi kuboko kw'ibumoso, yateretse ku mavi. Yambaye neza imyenda yiganjemo umukara hasi ndetse n'imbere arenzaho agakote kajya gusa umweru, yambaye n'ikarita ya serivisi ashinzwe, yambaye n'amarineti, inyuma ye hari icyapa kigaragaza serivisi bari gutanga.

Ibirango bitandukanye bigaragaza ibimenyetso by'uko umuntu yakwirinda indwara ya Korona, aho hari ugukaraba ibiganza n'amazi meza n'isabune, aho hari kwisuzumisha umuriro, hari gushyiramo intera hagati yanyu mwembi ndetse no kwirinda guhura n'umuntu wayanduye n'andi magambo atandukanye, byavuzwe na RBC, ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima.

Itsinda ry'amagambo atandukanye yanditse mu buryo bw'ibiziga, bigizwe n'ibiziga birindwi byiganjemo amabara agiye atandukanye, bisa naho ayo magambo na yo agiye atandukanye. Ni ibiziga bigizwe n'ibiziga birindwi. Hagati harimo kimwe kinini ndetse ku mpande hari ibindi biziga bigikikije bitandatu. Biri mu mabara agiye atandukanye.

Itsinda ry'abantu rigizwe n'abagore, abagabo, ndetse n'urubyiruko, bari bambaye imyenda isa hejuru n'ibara ry'umuhondo, ryijimye, ndetse ni kampeyini yabahuje, hari ameza ndetse ari guterekwaho ibikoresho bitandukanye, bisa naho aribyo byabahurije hamwe.

Uducupa twinshi tw'amoko asa kandi dufite ibirango bisa, bigaragara ko harimo imiti yifashishwa mu kurwanya icyorezo cya Monkeypox, harimo imiti iterwa abarwayi.

Inyandiko ndende imeze nk'icyapa igaragaza ubwoko bwa serivisi n'ubusobanuro bw'ibyanditse mu magambo makeya, bisa naho aho ari inyandiko igaragaza serivisi za Minisiteri y'Ubuzima.

Umukecuru ugaragara mu maso nk'ufite ikibazo cy'ijisho rimwe ariko urimo uraseka wambaye igitambaro mu mutwe gifite ibara risa umutuku kandi ari kurebesha ijisho rimwe kuko irindi bigaragara ko ripfutse. Bamuvuye.

Abantu babiri bafite icyapa bahuje amaboko mu ntoki, umwe ni umugabo undi ni umugore, hafi yabo hari intebe, inyuma yabo hari ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'irindi bendera risa umweru ritagaragara neza, birasa n'aho barimo bashishikariza abantu kwisuzumisha igituntu kuko kivurwa kigakira.

Itsinda ry'abantu, bamwe baricaye imbere, abandi bahagaze ku ruhande ndetse n'inyuma. Bahuriye mu ifoto imwe, bigaragara ko bari basoje igikorwa cyabahuzaga, ku mpande yabo hari ibyapa bitandukanye bigaragaza serivisi bari barimo, bari mu nzu nini yisanzuye ifite amarangi asa umweru.

Abantu bicaye imbere barimo barebana n'abandi bicaye babareba bisa naho bari mu mahugurwa ajyanye n'ubuzima. Bafite mikoro abandi bafite amakaye imbere yabo, bari kuvuga abandi bakandika ndetse banafite amacupa arimo amazi buri umwe umwe.

Icyapa cyanditseho amagambo atandukanye ku ruhande hari ishusho y'umugore wambaye imyenda y'akazi bigaragara ko ari umuganga, amagambo agira ati:''Powalingi helifu keya ini Rwanda.'' Cyangwag se kuzamura ubushobozi bw'ubuvuzi mu Rwanda, iki cyapa gifite aho gihuriye na minisiteri y'ubuzima.

Ibirango bigizwe n'inyuguti eshatu, bihagarariye Minisiteri, Ikigo cy'Igihugu cya Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda, gitanga serivisi zifite aho zihuriye n'ubuzima ndetse no kubungabunga ubuzima ari cyo bita RBC, ikigo cy'Igihugu gishinzwe kubungabunga ubuzima.

Itsinda ry'abantu bicaye imbere, abandi bahagaze inyuma yabo, hirya hari amadarapo abiri, bigaragara ko barimo barifotoza bafata ifoto rusange, bambaye imyenda itandukanye, birasa naho ari abayobozi barimo bafata ifoto.

Amagambo yanditse mu buryo bwo gutanga ubutumwa, hagati yaho hari udushushanyo ndetse n'ibimenyetso bigaragaza serivisi na buri kantu icyo kavuze ndetse hariho n'amagambo atandukanye, atanga ubusobanuro kuri kino cyapa bari kugaragaza.

Umwana muto wicaye mu kagare k'abafite ubumuga bwo kutagenda ndetse imbere ye hari umugabo wambaye umupira usa n'iraba ry'umuhondo, hari ubusitani, hari ikigega cyo kubikamo amazi ndetse n'inzu nini yisanzuye, bigaragara ko ahantu hari isuku, harasa neza.

Inzu iri ahantu hisanzuye isa neza iteye amarangi ari mu ibara ry'umweru, yanditseho ko ari inzu y'ababyeyi, bigaragara ko ari ku kigo nderabuzima, hari hirya yaho hari ibiti birebire, inyuma naho hari ibindi biti birebire biyikikije, bigaragara ko ari inzu iherereye mu isambu yisanzuye.

Inzu nini, ikoze neza, ku ruhande hariho ibyuma biri mu irangi ry'umutuku, ndetse bikaba bigaragara ko ari inzu y'ababyeyi, cyangwa se yifashishwa n'ababyeyi iyo barimo barababyaza, imbere yaho hari ubusitani budasa neza, imbere yaho hari ndetse n'umuhanda w'igitaka.

Inzu y'umuturirwa igeretse kabiri, iri ahantu hari imbuga hisanzuye, munsi yayo hari imodoka zigeze muri eshanu ziparitse mu buryo butandukanye, hafi yaho hari umutaka w'umucuruzi w'amayinite bazwi nk'aba ajenti ku ruhande hari umugabo uri gutambuka ku rubaraza rw'inzu.

Umwanya munini wisanzuye imbere mu cyumba aho ubona ko hatangirwagwa serivisi zo kwita ku mwambaro w'amaso amarinete. Hari intebe eshatu zitandukanye, hari ibyumba bitatu bibikwaho cyangwa bimanikwaho amarinete, haratuje hari amarangi ndetse n'amabara yaka umweru.

Icyumba gituje kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, harimo n'igitanda cy'umurwayi bisa n'aho ariho muganga akoresha ari kwita ku murwayi byihariye, hari amabara yiganjemo ibara ry'umweru n'iryo range risize muri icyo cyumba ndetse hakaba hari n'amarido atandukanye amanitsemo aho ngaho, mu gihe muganga agiye kwita ku murwayi arifashishwa.

Ku mbuga isa neza yisanzuye, ku marembo magari hari inzu nziza batarataha ifite amabara yiganjemo ibara ry'umuhondo, hari umugore imbere yayo munsi urimo wicaye witegereza, hari ndetse n'imbuga itarimo pavoma imbere yayo.

Inzu isa neza yisanzuye, irimo ibikoresho bitandukanye, bisa n'aho ariho bakirira abantu. Harasa neza harimo intebe z'amabara atandukanye, asa icyatsi kibisi, ubururu ndetse n'umuhondo. Harasa neza.

Inzu ifite imbuga ngari yisanzuye, inzu ndende, isize irange rimwe, hejuru hari ibirahure bitandukanye, bigaragara ko hari urugi rumwe rusa n'urundi, ruriho agatambaro kagaragaza serivise zikorerwamo.

Abadamu batatu bambaye imyenda isa, bari kureba mu cyerekezo kimwe, bose barirabura, bambaye umwenda usa ubururu n'udutambaro tw'umweru babiri bo ku ruhande bari guseka undi, bose bifashe mu mufuka.

Icyumba cy'ikoranabuhanga, kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye, bigaragara ko hatangirwa serivise nyinshi zifashishwa mu gusuzuma uko ibintu bimeze, cyane cyane mu buvuzi. Gisa neza, giteye amarange asa n'ibara ry'umweru.

Sale nini yisanzuye irimo isuku isa neza, irimo ibikoresho bitandukanye, harimo nk'ibitanda biryamyeho abarwayi bigaragara ko baba bari kwitabwaho n'abaganga, isize irange ry'umweru, harimo abadamu bambaye ibitenge ndetse n'indi myenda itandukanye.

Icyumba gisa neza gituje kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, amamashini atandukanye, ibitanda ndetse n'amameza ashasheho ibitambaro, bigaragara ko ari icyumba cyifashishwa mu gutunganya imiti, ndetse no gusuzuma abarwayi by'umwihariko.

Icyumba gituje kigari, kisanzuye, harimo intebe zisa neza n'agatanda keza baryamishaho umurwayi, bisa naho ari icyumba cyo kwa muganga, muganga asuzumiramo umurwayi bitewe n'ibikoresho bihagaragara bitandukanye kandi hari isuku.

Umuntu umwe uhagaze imbere y'inzu, wambaye imyenda irinda umubiri, umubiri wose, ndetse n'akarindamunwa, akaba yambaye n'ingofero bisa umweru. Ahetse ikintu mu mugongo, afite n'ikindi mu kaboko kamwe, akaba imbere ye hari indobo ebyiri z'amoko abiri atandukanye.

Ahantu hari abantu bamwe bicaye ahandi bahagaze, bamwe begereye icyapa abandi begereye icyuma, abandi bicaye bitegereza umuryango utangirwamo serivisi bigaragara ko ari kwa muganga, kuko hirya y'ifoto imbere hari umuganga wambaye imyenda y'akazi wegamiye icyuma gifashe igice kimwe k'inzu.

Inzu nziza igaragara neza irimo ibikoresho bikeya bisa neza yisanzuye, harimo intebe zigiye ziri mu byiciro bitandukanye, kandi hejuru y'iyo ntebe hakaba hari imashini zifashishwa mu gusuzuma umurwayi, biragaragara nk'aho ari kwa muganga.

Abantu babiri umwe ni umugabo undi ni umugore, umugore ari kuvura umugabo uryamye ku gatanda k'abarwayi areba hejuru, wambaye agapfukamunwa, ingofero, umupira w'umweru n'ipantaro isa umukara.

Inzu ya etaje igeretse, hasi hari imiryango myinshi ifunguye ikorerwamo serivisi zitandukanye, ubanza ukorerwamo serivisi zijyanye no gutanga imiti farumasi, imbere yayo hari imodoka igaragara igice kimwe, hirya hari indi miryango ifunguye, hejuru hari icyapa kigaragaza serivisi itangirwamo hano ku muryango ubanza.

Inyubako ndende, igeretse kabiri iriho icyapa kinini kigaragaza serivisi batanga imbere yayo hari imbuga itisanzuye cyane iriho ibyapa bitatu, bigaragaza serivisi zitangirwa aho ngaho nka parikingi n'izindi.

Abagabo babiri bambaye imyenda y'akazi ndetse n'udupfukamunwa, bari kwitegereza mo imbere mu mashini hari ibyo bari kureba, ni icyumba gituje kirimo amarangi afite ibara risa n'umweru, imashini irafunguye hari ibyo bari kureba kandi isa n'icometse.

Ni inzu yo kwa muganga, inzu y'ababyeyi, hafi yaho hari umuryango winjira, amarembo asa ubururu, hari ibiti bitandukanye ndetse n'indabyo, hejuru yaho hari igiti kirekire cya avoka, kizana akayaga muri urwo rugo.

Abantu babiri bicaye harimo umugore ukuze w'umukecuru wambaye imyenda yiganjemo ibara ry'ubururu, ndetse n'umugabo wicaye imbere ye wambaye ibikoresho ndetse n'imyenda y'akazi, bisa naho barimo baraganira kuri gahunda yabahuje, inyuma yabo hari inzu y'amatafari ndetse n'ibiti biharunze, hirya gato hari urutoki rugizwe n'insina zitandukanye, ubona ko yamusanze mu rugo aho bari si kwa muganga.

Icyumba cyisanzuye kinini gituje, kirimo isuku nyinshi, amabara asa umweru, harimo televiziyo, harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, bigaragara ko hifashishwa mu bijyanye no kwita ku buzima bw'abaturage.

Umugabo umwe wicaye imbere y'imashini ebyiri, zose ziracanye, arimo aritegereza imashini nini irimo ishusho itangaje, arimo areba uko bimeze, imbere ye hari indi mashini ku meza, ndetse yambaye imyenda ubona ko ari iy'akazi, ari mu cyumba gituje gisa neza.

Icyumba cyiza gituje kirimo imashini zitandukanye, hari igitanda kiryamyeho umuntu bisa naho ari umurwayi, hari imashini zensitaye, zimanitse zisa naho ziri kumusuzuma, hari n'izindi zatse zigaragaza ibimenyetso zirimo zirafata, bisa naho ari kwa muganga.

Icyumba gisa neza mu buryo bwihariye, kirimo ibikoresho bitandukanye, harimo nk'imashini idasanzwe yifashishwa mu kuvura ndetse no kwita ku barwayi, ni ahantu hari amabara y'irangi cyane cyane y'umweru.

Abagabo babiri bakuze, umwe arahagaze undi aricaye, uhagaze ari kwerekana, uwicaye ari kwitegereza, uwicaye ari imbere ya mudasobwa ndetse uhagaze ari mu cyumba gisa neza yambaye ishati y'umweru n'ipantaro isa umukara, bigaragara ko bari mu mahugurwa.

Igikoresho cyubatse nk'inzu kiri imbere mu nzu kifashishwa mu gushyira ku murongo iby'ikoranabuhanga, kiri imbere muri salle ituje iri kwakamo amatara ubona ko ni iki gikoresho kiramurikiwe birasa neza.

Amarembo magari yitaruye yubatse neza, agaragaza ko ari ikigo nderabuzima cya Kigina arafunguye, imbere yaho hari umudamu uhetse umwana ndetse wambaye igitenge.

Itsinda ry'inzobere ry'abaganga bicaye mu cyumba gisa neza ubona ko ari ho bakorera ubushakashatsi. Umwe arimo aberekera, abandi bakareba. Bambaye imyenda y'akazi, batatu baricaye, undi umwe arahagaze arimo aritegereza ibyo barimo.

Icyumba gisa neza gituje kandi gikeye, kirimo ibikoresho by'ikorana buhanga, byifashishwa mu gutanga serivise zihariye zo kwa muganga. Harimo kandi amatara yaka mu ibara risa umweru.

Inzu z'uruhererekane zisa neza, hagaragaramo icyapa cyanditseho amagambo atandukanye bigaragara ko ari kwa muganga, bashyizeho na serivisi batanga zigiye zitandukanye, hari kandi n'ubusitani imbere yayo mazu bwiza bugaragaza ko hari isuku, hirya gato hari igiti kirekire gisumba izo nzu zose.

Itsinda ry'abantu bari mu ishuri, mwarimu afite igikoresho bifashisha bari kwigisha abana uburyo bakora amasuku yo mu kanwa kubororosa mu menyo, bambaye imyenda itandukanye.

Amarembo yugaye. Hafi y'amarembo hari icyapa kigaragaza ko ari icya RIB. Inyuma y'amarembo harimo inzu inyubako nyinshi bigaragara ko ariko kwa muganga hatangirwa serivisi z'ubuvuzi. Muri ayo marembo imbere harimo igiti cy'inganzamarumbo ndetse gisa n'icyatsi kibisi.

Icyumba kinini cyisanzuye gisa neza kirimo ibikoresho byifashishwa iyo bari gukora siporo, ni ibikoresho bitandukanye ubona ko ari byinshi muri icyo cyumba, ni icyumba gituje kirimo isuku nyinshi n'amatara yaka ibara ry'umweru.

Icyumba cyiza gisa neza kirimo amabara y'irangi yiganjemo umweru, hari intebe y'umwihariko imeze neza isa naho muganga yicazaho umurwayi iyo agiye kumusuzuma byihariye, hari akandi gatebe gatoya katari karekare, hirya hari akameza kajyanwa kariho imashini ndetse yifashishwa mu gusuzuma umurwayi.

Icyumba gisa neza kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga kandi gitatsemo amabara atandukanye n'ibishushanyo bigiye bitandukanye. Hari ibara ryiganjemo umuhondo hasi ndetse no hejuru. Harimo amatara ndetse na parafo bisa n'ibara ry'umweru. Bisa naho ari kwa muganga.

Icyumba kirimo abarwayi babiri buri umwe ku gitanda cye bisa n'aho bari kwa muganga, bari kwitabwaho kuko hari amamashini abacometse mu gice cyabo cy'umubiri wo hejuru baryamye ku bitanda bitandukanye.

Icyumba cyiza kirimo ibitanda ndetse n'intebe n'imashini zesitayemo, kirisanzuye gisa neza, gifite isuku birasa n'aho ari kwa muganga hatangirwa serivisi zo kwita ku barwayi buri kameza ndetse na buri ntebe na buri mashini na buri gitanda.

Icyumba kinini cyane kigali gisa neza, kiriho imiryango igiye itandukanye wagira ngo ni firigozi zimanitse ndetse hari amabara asa umweru cyane cyane amatara yaho, haratuje cyane nta muntu uhari, bigaragara ko ari icyumba cy'ikoranabuhanga kifashishwa mu kazi ka buri munsi k'abaganga.

Amarembo afunguye asa neza, imbere hari inzu igeretse ndetse harimo n'imodoka n'akazu k'umuntu ucuruza amayinite, hanze kuri ayo marembo hari icyapa kinini cyanditseho ko ari ibitaro byo kwa Nyirinkwaya. Hari n'umukindo hafi yaho ndetse hari na serivise zanditse kuri icyo cyapa, zitangirwa muri ibyo bitaro.

Icyumba gituje gisa neza kirimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, bisa naho ari kwa muganga, harimo intebe zigezweho za kijyambere.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho bitandukanye ndetse gisa neza kirimo isuku ihagije. Ni inzu imwe mu zo kwa muganga zifashishwa n'abaganga cyane cyane iyo barimo bita ku barwayi. Ubona ko harimo ibikoresho byinshi bishimishije.

Ni ibyumba byinshi byiza bisa neza hari isuku. Ni ibyumba bigeze muri bine bibiri biteganye n'ibindi bibiri biteganye, ariko agakomezamo imbere hari ahandi hantu hari ibindi byumba bibiri bisa neza nabyo bikomejemo imbere, ubona ko ari isuku iyi ni inyubako yo kwa muganga.

Inzu nini cyane ikeye iri ahantu hisanzuye hasa neza hari isuku, igeretse rimwe, ifite amabara agiye atandukanye, imbere hari ubusitani burimo umukindo, hasa neza, hafi ku ruhande hari imodoka.

Abantu batatu bagaragara neza mu ifoto, umwe wicaye ku kagare, inyuma hari umwana muto wambaye imyenda y'umukara urimo umusunika amwerekeza umuryango ufunguye, hari umudamu witeguye kubakira, imbere yabo hari itente ndetse hari n'amabara agiye atandukanye, ni imbuga yisanzuye.

Icyumba cyisanzuye kirimo ubwoko bw'imashini zitandukanye kandi nyinshi, zigaragaza mu itaburo rya buri mashini ibikorerwamo ndetse hakaba hasa neza hari n'ibara risa umukara.

Inzu nini cyane isa neza y'umutamenwa, bigaragara ko itangirwamo serivise nyinshi, imbere yayo hari imikindo itandukanye igiye iteye mu bice bitandukanye bigaragara ko iyi nzu iherereye ahantu hateye imbere twita mu mujyi.

Ni itsinda ry'abantu bari kwerekera ahantu hamwe ku marembo y'ibitaro byitiriwe umwami Faisal harasa neza hari isuku, bambaye imyenda bose isa umweru hejuru ndetse hari umuntu ufite icyo ari kubereka, hejuru yaho hari amagambo yanditse kuri ibyo bitaro FKh Rwanda cyangwa se king Fayizo hospital Rwanda.

Itsinda ry'inzobere cyangwa abaganga bambaye imyenda y'akazi bari imbere y'imashini zitandukanye, aho ubona ko bari gushyiramo imiti mu ducupa twa purasitike tubari imbere. Birasa naho ari kwa muganga bitewe n'imashini zihari n'imyambarire yabo.

Icyumba gisa umweru kirimo ibitanda bitandukanye byinshi byifashishwa mu kwita ku barwayi bigaragara ko ari kwa muganga, harimo amarangi asa n'ibara ry'umweru ndetse n'amatara akaba yaka umweru.

Ku marembo yisanzuye y'ibitaro asize irangi ry'umuhondo imbere hari ubusitani, hari umuganga uhahagaze imbere wambaye imyenda y'akazi bigaragara ko ari inzu yifashishwa mu gutanga ibizamini bijyanye n'indwara abarwayi basanzwemo.

Icyumba gikeye kirimo imashini nziza zifashishwa, bisa n'aho ari kwa muganga kuko haratuje harimo isuku ihagije, hari amarangi yiganjemo ibara ry'umweru n'amatara yakamo ibara ry'umweru. Hari imashini muganga yifashisha ari kwita ku barwayi.

Imbuga ngari yisanzuye hari inzu ndetse n'imihanda ipavomye inyuramo harimo n'ubusitani, hari inzu y'ama etage abiri kandi no hepfo yayo hari indi nzu, hirya ku ruhande hari urugo ruriho ibiti bigaragara ko ari ibyifashishwa mu gutunganya no gutegura ubusitani bw'ahantu inyubako iherereye.

Icyumba kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bigaragara ko ari ibyongera umwuka, kwa muganga harimo imashini zitandukanye, harimo amatiyo atandukanye abiri, ndetse n'imashini hejuru yazo abiri, mu cyumba kirimo ibara risa n'umweru ndetse n'amatara yaka bisa n'umweru.

Inzu nziza isa neza ifite ubusitani buririmo amabara y'indabyo agiye atandukanye, imbere yayo hari abantu babiri batagaragara neza, hari umwe ni umugabo undi n'umugore, umugabo wambaye umwenda urimo ibara ry'umweru hejuru ndetse umugore yambaye imyenda irimo ibitenge, bari imbere y'inzu.

Igice cy'uruhande rumwe rw'inzu, rugaragaza serivisi itangirwa muri iyo nzu, imbere yaho ku ruhande hari umuhanda utarimo kaburimbo n'indabyo zitandukanye zikase zisa neza, inyuma yazo haruguru hariyo igiti kirekire kitagaragara neza, kiri hejuru y'umukingo, hejuru y'inzu hari umurasire.

Abantu babiri bagaragara neza, umwe arahagaze, ni umuganga, hari undi uryamye hasi bisa n'aho ari umurwayi. Bari mu cyumba cy'indembe kwa muganga, inyuma yabo hari imashini zicometse zigaragaza ubuzima bw'umurwayi uko buri kugenda bumeze. Umurwayi uryamye hasi ari kumushyiramo serumo mu kaboko.

Icyumba gisa neza cyane pe kirimo ibikoresho byiza by'ikoranabuhanga ndetse higanjemo igitanda ndetse n'intebe n'andi mamashini akurikirana ubuzima bw'umurwayi. Kiratuje, byifashishwa na muganga iyo ari kwita ku murwayi bitewe n'uburwayi afite. Harasa neza haratuje cyane, harimo amarangi yiganjemo ibara ry'umweru.

Imbuga nini yisanzuye harimo ubwoko bw'imodoka butandukanye ikikijwe n'amazu y'umugereka muremure, harimo umugabo wambaye umupira w'ibara risa umutuku n'ingofero ndetse n'ipantaro y'umukara bigaragara ko ari umusekirite harimo imodoka z'ubwoko bwose butandukanye.

Itsinda ry'abantu umunani rigizwe n'abagabo batandatu ndetse n'abagore babiri bose bambaye udupfukamunwa, bahagaze batatanye, bari hafi y'inzu yanditseho ko ari Isange One Stop Center, bigaragara ko ari hafi y'ikigo nderabuzima batanga serivisi zo kwa muganga, inyuma yaho gato hari imodoka bari ahantu hashashe amapave.

Abagabo babiri umwe aricaye undi arahagaze, uwicaye ni umurwayi, uhagaze ni muganga yambaye imyenda y'akazi, uturindantoki n'ikarita y'akazi, uwicaye yamanuye ishati yateze urutugu bagiye kumutera urushinge.

Icyumba kiriho ameza asa neza ariho imashini ziteretseho zitandukanye ubona ko ari nyinshi, hari isuku ni icyumba gikeya kirimo amarangi asa n'ibara ry'umweru kandi ubonako wagira ngo ni kwa muganga, harisanzuye kandi hasa neza cyane.

Icyumba kirimo ibara risa n'umweru gituje, harimo utukabati dutandukanye, igitanda ndetse n'urukarabiro, harimo haraka urumuri rw'ibara ry'umweru ruturutse hejuru, harimo amarido ndetse n'akabati gasa umuhondo.

Icyumba gituje cyane kirimo abaganga n'ibikoresho by'ikoranabuhanga, harimo n'umurwayi uryamye ku gitanda, imbere yiwe hari abaganga batandukanye bari gutunganya ibikoresho, bambaye ibikoresho n'imyambaro yo kwa muganga, bafite uturindantoki ndetse n'uturindasura.

Ubwoko bw'ibyuma byinshi bitandukanye bisa n'aho byifashishwa muri serivisi zitandukanye, biri mu nzu nini yisanzuye, ni ubwoko harimo ibisa mu ibara ry'umutuku, ndetse n'ibindi bito biciye bugufi biri mu ibara ry'umukara, biri ahantu hamwe hasa neza.

Inzu yisanzuye imbere mu cyumba harimo abantu benshi batandukanye bambaye imyenda imeze nka uniform y'akazi, harimo n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye, abadamu bahagaze, bambaye imyenda ijya gusa, bari gutambuka mu byerekezo bitandukanye.

Abantu babiri bagaragara neza bari imbere mu ifoto imwe, umwe ni umubyeyi akikiye umwana mu ntoki undi uri inyuma ni umuganga wambaye imyenda y'akazi bisa naho bari bishimiye ko umubyeyi yabyaye neza kandi byagenze neza cyane. Bari mu cyumba kirimo isuku gisa neza bigaragara ko ari nko kwa muganga bari bahagaze.

Icyumba kinini, mu nzu nziza kandi ndende, igaragara mu mabara y'umweru cyane yiganje. Harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye muri icyo cyumba kandi byifashishwa. Birasa n'aho ari kwa muganga, akaba ari inzu ikoreshwa n'abarwayi.

Ubwoko bwiza pe bw'ibiti. Harasa neza hari isuku itangaje. Hari ubusitani ndetse hari n'umuhanda usa neza. Urimo abantu batatu. Harimo umugore mukuru ndetse n'abana babiri. Umwana umwe yitaruye uwo mugore. Umugore afite akana mu ntoki. Iruhande rwe hari insina zirimo indabyo zisa neza, ubona ko ari ahantu hari isuku ihagije.

Umuntu w'umugabo wicaye ku ntebe wambaye umwenda w'akazi ndetse mu cyumba ubona ko kirimo ibikoresho bituma bita ku barwayi, akaba ari kureba imbere yahuje ibiganza, akaba arimo araseka, mu itaburiya harimo ikaramu, imbere yambayemo agapira kajya gusa umuhondo, ari mu cyumba gisa neza gifite isuku.

Icyumba gituje kirimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, harimo umugabo umwe wambaye akarindamuwa n'uturindantoki, afite icupa mu ntoki, ari imbere y'imashini y'ikoranabuhanga, muri icyo cyumba hari imashini nyinshi zitandukanye, kigizwe n'ibara ry'umweru, haratuje cyane, harimo imashini nyinshi.

Icyumba cyiza kiri imbere mu nzu bisa naho kifashishwa mu kubika ibikoresho by'ingenzi cyane cyane ibyo kwa muganga. Kirasa neza, kirafunze ahantu hose kirimo imbere mu nzu, na ho ubona ko hasa neza harimo isuku.

Icyumba gituje gisa neza kirimo isuku, hakaba harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse n'agatanda k'abarwayi. N'imashini zitandukanye zifashishwa iyo muganga arimo yita ku murwayi amusuzuma byihariye.

Itsinda ryabantu bambaye imyenda y'akazi batandukanye, barimo baritegereza mu ifoto imwe mu cyumba gituje gitangirwamo serivisi zo kwa muganga, kirimo imashini zitandukanye, birasa naho bari kureba mu ifoto imwe.

Icyapa gisa umweru kiriho ikirango cy'umujyi wa Kigali n'icya Repubulika y'u Rwanda cyerekana akayira kazamuka, hafi yacyo haruguru hari igipangu, wigiye inyuma gatoya hari agahanda kazamuka, hafi y'ako gahanda hari akapa gatoya gahari ndetse n'ibiti, bisa naho haruguru hari umuhanda ukomeza.

Inzu nziza yose iteye irangi ry'ibara rimwe, imbere yaho hari abantu, abagore n'abagabo bambaye imyenda itandukanye, bigaragara ko hatangirwa serivisi zitandukanye, aho bahagaze bose bitegeye kuri iyo nzu, bari kureba mu cyerekezo kimwe bareba imbere.

Urupangu ruzitiye rusa neza, imbere harimo ubusitani hashizemo ibyuma bitatu, hariho umutambiko hejuru, bitatu bifite amabara atandukanye, bibiri ibara risa ubururu, hagati bijya gusa icyatsi kitijimye, hariho utundi twuma tumanuka ku ruhande bisa naho hifashishwa n'abana batoya barimo bicunda.

Icyumba gisa neza pe, gitangaje kirimo ibikoresho bitandukanye byinshi by'ikoranabuhanga, ubona ko ari kwa muganga, hamanitsemo n'imashini zifasha muganga gusuzuma abarwayi, ndetse ubona ko ari icyumba gituje cyane cyifashishwa mu kwita ku buzima bw'abarwayi.

Icyumba kisanzuye kirimo imitako itandukanye, hagaragaramo igitanda baryamishaho umurwayi ndetse imbere hakaba hari n'ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu gukurikirana uko ubuzima bw'umurwayi bumeze. Ni icyumba kirimo isuku ndetse kirimo amatara yaka ibara ry'umweru.

Inzu nini ifite imiryango ibiri itangirwamo serivisi za farumasi. Imbere harimo abantu batatu ndetse n'umwana umwe mutoya mama we amufashe mu ntoki. Umama ahetse umwana. Hanze yayo hari umumotari uparitse moto ariko uyicayeho wambaye imyenda y'akazi.

Abagore babiri, umwe ni umuganga yambaye imyenda y'akazi amarinete ndetse n'agapfukamunwa, undi ni umumama mutoya akikiye akana. Barimo bakitaho bagaha serivisi bari mu cyumba gisize amarangi asa n'ibara ry'umweru kandi umugore yicaye ku buriri akikiye akana gatoya gasa naho ari agahinja.

Inzu nini yisanzuye iri mu busitani bwiza bufite ubwatsi busa neza, imbere yayo hari ikigega gifata amazi avuye hejuru ku gisenge ndetse n'umwembe mutoya utarakura, iyo nzu ikaba ifite irangi rijya gusa n'ibara ry'umuhondo, ndetse inyuma yayo hari indi nzu bisa kimwe, ku ruhande gato hari akayira k'abanyamaguru gasakaje amabati akuze.

Icyumba kigari kisanzuye kirimo ibitanda byinshi harimo n'amarido asa umweru, bigaragara ko ari kwa muganga hamanitsemo n'ubwoko bw'amatara atandukanye.

Inyubako nini ya etaje igeretse ifite amarembo yisanzuye, imbere yayo hari abanyeshuri bambaye impuzankano ndetse n'icyapa kandi hari n'imodoka ihaparitse, bisa naho iyi nyubako yifashishwa no kwa muganga mu gutanga serivise zitandukanye.

Icyumba cyiza kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye, harimo umuganga wambaye imyenda y'akazi urimo witegereza ibyo biri kuberamo kandi harasa neza harabona ko haratuje cyane hari imashini igaragaza uko ibikorwa biri kugenda.

Amarembo y'inzu manini bigaragara ko handitseho ko ari Nyarugenge District Hospital, ibitaro by'Akarere ka Nyarugenge, ni inzu nini cyane ngari ifite ubusitani busa neza ndetse n'amarembo asa neza. Ikirere gisa ubururu ndetse harimo n'amabara y'umweru ubona ko gikeye cyane. Imbere y'amarembo hari igiti gishinzemo bigaragara nkaho hari icyo kizamara.

King Faisal hospital ibitaro bigeretse inshuro ebyiri hari ibyapa bitandukanye bigaragaza serivisi zitangirwa muri ibyo bitaro, hari abaturage bari kubigana bambaye imyenda itandukanye, kuruhande hari umusekirite uyobora abantu.

Icyumba gituje gisa neza, kirimo ibikoresho byo kwa muganga, ibitanda bibiri n'akameza ko hagati ndetse n'imashini zitandukanye zifashishwa mu kwita ku barwayi, hakaba harimo n'amarido atandukanya ibyo bitanda, mu gihe abarwayi baba barimo.

Urukuta rw'inzu, ruriho igice kimwe bifashisha mu kubikaho amarinete, ni kwa muganga bavura amaso, bisa n'aho iki gice kimwe cy'inzu, ari cyo babikaho amarinete kuko hariyo ibikoresho bitandukanye bibigaragaza.

Icyumba kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, imashini zitandukanye, ibitanda bisa naho ari kwa muganga, ahantu bita ku murwayi byihariye, harimo amatara ari kwaka mu ibara ry'umweru.

Abantu babiri bicaye, umwe ni umurwayi undi ni muganga birasa naho ari kumuha serivis,i inyuma yaho hari icyapa cyanditseho irembo, hirya yaho hari bomboni ebyiri zifashishwa mu kurwanya inkongi, muganga yambaye umwenda w'akazi w'akajire ndetse hari n'ameza asa umweru ariho ibikoresho ari kwifashishwa yita ku murwayi.

Icyumba gituje gisa neza kirimo isuku ihagije, hari imiryango igiye itandukanye, hari amatara amanitsemo, ndetse ubona ko ari kwa muganga, hifashishwa n'abaganga, mu gutunganya akazi ndetse na gahunda zabo zigiye zitandukanye, mu gihe bakeneye ahantu hatubuje ho gusuzumira abarwayi.

Amarembo magari yisanzuye agaragara ko ari inzu nziza ikeye y'i Kigali ndetse yanditseho ko ari Ibitaro by'Akarere ka Nyarugenge, imbere yayo hari igiti gitoya bateye ibona ko kiri kuzamuka neza ndetse hasi y'amarembo hari ubusitani buto butoya busirimutse.

Abantu batatu b'igitsina gore abadamu, babiri baricaye umwe arahagaze, babiri ni abaganga undi umwe n'umurwayi, umuganga umwe wambaye umwenda w'akazi usa ibara ry'umweru arimo arakira umwe w'umudamu wicaye wambaye agapira kajya gusa n'uruhu wazinze imisatsi.

Itsinda ry'abantu batanu, harimo abadamu bane, ndetse n'umugabo umwe uri hagati, bigaragara ko bari gufata ifoto, kuko bose barareba mu cyerekezo kimwe. Bose bambaye imyenda yiganjemo ibara ry'umukara uko ari batatu, abandi babiri bambaye imyenda itandukanye. Hejuru yabo hari icyapa kigaragaza serivisi ko batanga ko ari aba la librarian bakora,...

Uruganiriro rusa neza cyane rurimo intebe nziza zitandukanye ziri ku murongo mu buryo butandukanye, harimo amatara yaka mu mpande zose kandi yaka mu mabara atandukanye.

Abagore batatu bicaye ndetse umwe ni muganga abandi babiri bicaye imbere yiwe arimo abasuzuma yambaye imyenda y'akazi, inyuma y'aho hari ibiti binini bifite ibara ry'icyatsi kibisi ndetse ubona ko bicaye ahantu hisanzuye hameze nk'aho ari hanze atari imbere mu nzu.

Imbuga ngari ikoze neza hari isuku, imbere y'inzu hari imodoka isa neza, ndetse hari inzu igeretse rimwe, ifite amarembo afunguye yitaje kandi asukuye. Hari abantu bari mu byerekezo bibiri bitandukanye.

Ku muhanda usa neza ahantu hatuje hari inyubako nziza itangirwamo serivisi y'ibitaro bya Nyarugenge mu buvuzi, hafi yaho imbere hari ubusitani bw'indabyo zisa neza ziganjemo umuhondo, n'icyatsi kibisi, haragutse ubona ko inyubako iyo urebye hirya mu ifoto irazenguruka.

Umuntu w'umugabo usa n'umwirabura wicaye hasi urimo ukora siporo, wambaye ipantaro isa n'ibara ry'umukara ndetse n'inkweto za siporo zisa umukara, n'agapira gatoya gaciye amaboko gasa n'ibara ry'umuhondo, inyuma ye hari indabyo. Yicaye hasi hasa neza ubona ko hari isuku.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga gisa neza, cyubatse mu buryo bushimishije ndetse bunatangaje, kiri ahantu hasa neza, imbere yacyo hari televiziyo igaragaza amashusho ndetse hari n'utwuma ku ruhande muganga yifashisha ari gusuzuma umurwayi, bisa n'aho ari icyo kwa muganga.

Icyumba kirimo imashini zitandukanye n'ibikoresho bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga cyane cyane bigizwe n'ibara ry'umweru, hari amasinga anyuranyuranamo, agaragara mu mpande zitandukanye, acomeka izo mashini zisa umweru.

Icyumba cyiza gituje gisa umweru kirimo isuku nyinshi n'ibikoresho byinshi by'ikoranabuhanga, hari intebe, amatara ndetse n'akandi gatebe gatoya, bisa naho muganga n'umurwayi, ariho bakorera gahunda zo kwita ku murwayi.

Igikoresho kifashishwa kwa muganga cyane cyane iyo bari kwita ku murwayi wagize ikibazo cy'impanuka ukuguru kukaba amagufwa y'ukuguru yangiritse, barakimwambika kugira ngo abashe kongera kugenda kikamufasha mu gihe afite ubwo burwayi.

Ubwoko bw'ibyo kurya bitandukanye, ndetse n'ibikoresho bigizwe n'ibyuma bitandukanye, biri hamwe ku meza, buri cyiciro kigiye kiri kuri buri sahani ndetse no mu gatebo gatoya karimo imbuto, harimo amagi, imineke, imbuto ntoya, ndetse n'ibindi.

itsinda ry'inzobere rigizwe n'abantu batandukanye imbere yabo hari umurwayi uryamye ku gatanda ndetse wambaye imyenda yiganjemo ipantaro isa n'ibara ry'ikaki, hirya ye hari abaganga bamukikije, inyuma ye hirya hari abagabo benshi bambaye amakoti asa neza barimo baritegereza ibyo barimo barabereka. ukuguru kwe kwamanitswe ku cyuma gifasha abarwayi kwa muganga.

Igitsina gabo, umugabo wicaye yashyize ukuboko ku ivi, ariko yashyizemo n'akandi kantu hagati y'ukuboko n'ivi bisa naho ari kwikanda, yambaye ikabutura isa umukara ndetse nta masogisi yambaye.

Ijage y'ikirahure ndetse n'igikombe cy'ikirahure, ari gusuka amazi y'urubogobobo amanuka ajya mu gikombe, afatishije ikiganza cyambaye uturindantoki gisa umukara. amazi arasa neza.

Igikoresho cyifashishwa n'abantu bafite ubumuga bwo kutagenda neza, ni akagare umuntu yicaraho afite ikibazo undi akagenda amusunikira inyuma, aka ngaka gakunda kwifashishwa n'abantu bagahawe kwa muganga bafite ikibazo cy'ingingo.

Umugore wicaye hasi, wazamuye ukuguru kuri ku meza gufashshwa na muganga bisa naho ari imbere ya muganga agiye kwivuza, umugore n'umugabo wambaye imyenda y'akazi bisa naho ari umuganga.

Abadamu babiri batandukanye baryamye ku bitanda bitandukanye, bisa naho ari kwa muganga, ugaragara neza imbere ye hari akana gato kambaye imyenda ijya gusa umweru, bari mu cyumba kirimo supaneti zimanitse, ubona ko baje gusaba serivisi zo kwa muganga.

Inyandiko igaragaza serivisi zitangirwa aha hantu, ni icyapa cyanditseho ijambo ryitwa physiotherapyi, bisa naho batanga serivisi zifite aho zihuriye na siporo ndetse no kuvura abantu bafite ibibazo by'ingingo bitandukanye, cyane cyane mu gutuma umubiri wabo wongera gukora neza.

Itsinda ry'abantu batatu n'abandi babiri, inyuma yabo babiri umwe aryamye ku gitanda afitwe n'abagabo babiri bamuri hejuru ndetse hirya yabo gato undi nawe aryamye ku gitanda hari uri kumukora mu gice k'inyuma cy'umubiri umugongo bari kureba ikibazo bafite bagiye kwitabwaho n'abaganga.

Ibikapu bitatu biri mu matsinda ndetse bisa naho ibyo bikapu birimo imiti, ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa n'umuntu ugiye ku rugendo. Ni ibikapu biri mu mabara y'umutuku. Bibiri birafunguye, kimwe kirafunze.

Umugabo uri kureba wahindukiye, wazamuye amaboko akayafatira ku mutwe, wambaye agasengeri ndetse n'isaha ku kuboko, ufite umusatsi ugaragara igice kimwe cy'umubiri, igice cyo hejuru.

Icyumba kinini kisanzuye kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, bigaragara ko ari icyo bakoreramo siporo, hari imashini z'amoko atandukanye, hari amabara atandukanye asize muri icyo cyumba ndetse n'ibikoresho.

Umusore mwiza w'ibigango. Ubona ko ari umugabo pe! ukora siporo ngororamubiri. Ari kunywa amazi afatishije ukuboko kw'iwe kw'iburyo. Ari imbere mu muhanda. Aho yabanje gufata akanya ko kunywa amazi, yambaye agasengeri gasa icyatsi kibisi ariko kidahiye cyane.

Ibikoresho by'ubwoko butandukanye bibitse cyangwa se biteretse mu gikapu harimo ibikoresho byinshi urugero ni nk'isaha, imashini, amasizo ndetse na korogate, bisa naho nyir'ibikoresho hari aho yari agiye mu rugendo cyangwa yiteguye urugendo.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga cyane cyane cyifashishwa na muganga. Iyo arimo asuzuma umuntu cyangwa se umurwayi, hari utwo ashyira mu matwi kugira ngo akurikirane uko umutima utera, amenye uko umurwayi amerewe iyo amwakira.

Umugabo uhagaze imbere y'ibikoresho by'ikoranabuhanga bicometse, bigiye bicometse ku ruhande rumwe n'urundi ruhande, harimo amashini menshi, bigaragara nkaho ari kwa muganga hatangirwagwa serivisi, zo kwita ku barwayi mu buryo bugezweho.

Ifoto ishushanyije, igaragaza umugabo munini w'ibigango, uteruye icyuma, hari ubwoko butandukanye bw'ibiribwa harimo: ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri, ibirinda indwara ndetse ku ruhande hari icyo kunywa kigizwe n'amazi ndetse na ji isanzwe.

Abantu babiri batagaragara mu maso. Umwe ugaragara cyane igice cyo hepfo yambaye imyenda y'akazi n'ibikoresho bigaragara ko ari muganga. Undi aryamye ku gatanda ariko igice kigaragara ni ivi bigaragara ko muganga arimo agenda arikorakoraho amusuzuma yumve aho ababara.

Itsinda ry'abantu batandukanye b'igitsina gabo bahagaze barimo bamanika ibintu bitandukanye bisa nk'aho ari ku bitaro, aho bifashisha ibikoresho bitandukanye, harimo nk'ingazi ndetse imbere ku nzu iteye amarange asa n'ibara ry'ubururu, hari n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Igice kimwe cy'umuntu kigaragara hasi, cyiganjemo amaguru ndetse n'amaboko, wambaye ipantaro isa n'ibara ry'umukara wazamuye ukuguru kumwe kundi yakurambuye ndetse hari ikintu yaafatishije ukuguru kwe hasi hafi y'ikirenge bigaragara ko arimo arikanda.

Umugore wicaye igice kimwe cyo hasi aricyo kigaragara ndetse n'undi urimo uramupima bisa naho arimo aramuvura, yambaye akenda gatoya kagaragaza amatako kumanuka hasi, bigaragara ko ari kwitabwaho na muganga afite ikibazo.

Abantu babiri b'abagabo, umwe aryamye ku gatanda yambaye imyenda isa n'iya siporo, undi arahagaze yambaye agapfukamunwa ndetse afashe ukuguru k'umwe uryamye ku gatanda, arimo akuzamura bisa n'aho ari kumuha serivise z'ubuvuzi, bari imbere mu cyumba aho hari ibikoresho bitandukanye.

Abantu babiri umwe arapfukamye arimo arakora siporo, afite ibintu bibiri mu ntoki biri kumufasha noneho uhagaze arimo amuha amabwiriza agomba gukurikiza, aho bari ni mu nzu ikorerwamo siporo, hari n'ibikoresho bitandukanye bigaragara.

Umuntu, umuntu umwe uhagaze w'umugabo wambaye imyenda y'akazi bigaragara ko ari umuganga, ufite ikintu mu ntoki gisa n'ibara rijya gusa umutuku utijimye, ari mu cyumba cyiza gituje bisa naho ari kwa muganga. Imbere ye hari kizima muririro.

Umukobwa mwiza cyane wambaye imyenda ya siporo, ari ku itapi isa umukara, yamanitse amaboko, yambaye agasengeri k'umweru, bisa n'aho ari gukora siporo y'umuntu ku giti cye, imbere mu nzu ahantu hasa neza hari isuku, iruhande rwe hari ivaze iteretsemo igiti.

Itsinda ry'abaganga bageze kuri batanu bambaye imyenda y'akazi bikwije. Udupfukamunwa mu mutwe ndetse n'imyenda y'akazi yo hasi. Barimo barareba umurwayi uri hasi, barimo barahereza serivise. Mu cyumba barimo kandi harimo n'imashini y'umweru, igenzura ubuzima bw'umurwayi.

Itsinda ry'abantu batandukanye bambaye imyenda y'akazi, bari kwitegereza amashusho ari imbere mu cyuma k'ikoranabuhanga bigaragara ko ari abaganga, abandi bicaye ku bitanda by'abarwayi akaba ari abarwayi bari kwitabwaho n'abaganga.

Umugabo wibigango wambaye umupira usa ubururu n'ishaneti mu ijosi, uri kunywa amazi areba hejuru, yafatishije ukuboko kw'iburyo, ufite umusatsi n'ubwanwa, n'icupa ry'umweru ariryo ari gukuramo amazi.

Abantu benshi batandukanye bari ku muronko, imbere yabo hari umuntu uri kubaha amabwiriza bakayakurikiza, bigaragara ko bari muri siporo, bambaye imyenda y'amabara atandukanye mu mbuga yisanzuye, hirya gato hari itente ritoya, inyuma y'aho hari inzu isakaje amabati ajya gusa umutuku.

Umukobwa mwiza mukuru wambaye imyenda ya siporo, ufite icupa ry'amazi meza urimo uranywa amazi, afite isume y'umweru ku rutugu asa n'umwirabura arimo yitegereza amazi ndetse anayanywa.

Ibiganza bibiri by'umuntu w'umuzungu, byambaye uturindantoki ariko duciyemo bisa n'aho twifashishwa n'abantu baba bari gukora siporo ngororamubiri, kimwe kirarambuye kireba hejuru ikindi kirarambuye cyubitse.

Umugore umwe wicaye hasi. Warambuye ukuguru kumwe ukundi guhinnye, wambaye imyenda ya siporo. Igizwe hasi ipantaro ifata ibara ry'umukara ndetse n'udukweto dutukuye dufite hasi y'umweru, n'agasengengeri kajya gusa n'umuhondo utijimye ndetse wunamye ubona ko ari gukora siporo.

Abantu babiri bahagaze bareba imbere, umwe wambaye ijire y'akazi afashe mu ntoki undi wambaye imyenda ya siporo bigaragara ko ari kumuha serivise, inyuma y'aho hari undi bareba mu cyerekezo gitandukanye utagaragara neza mu ifoto wambaye ingofero isa n'ibara ry'umweru.

Umugore wicaye hasi ku muhanda, wambaye imyenda ya siporo, n'igikoresho cya siporo ku kuboko, warambije ukuguru kumwe ukundi guhinnye, wambaye imyenda isa umukara, hasi ipantaro y'umukara, n'inkweto z'umweru, agasengeri k'umukara.

Ubwoko bw'imashini ebyiri zitandukanye. Ubona ko ziri ku meza ahantu. Inyuma yazo hari intebe zicarwaho n'umuganga. Ubona ko ni imashini zifashishwa n'abaganga cyane cyane iyo ari gukurikirana ukuntu ubuzima bw'abarwayi babaganye bumeze. Hari imashini muganga yambara mu matwi ari kumva uko umutima utera w'umurwayi.

Abantu bicaye undi umwe uhagaze, bigaragara ko ariko kwa muganga ari kubasobanurira yifashishije amashusho agaragara ku cyuma k'ikoranabuhanga, nabo bakandika bafite amakaye mu ntoki n'amakaramu, hirya yabo hari agakanda k'abarwayi katariho umuntu.

Umugore ufite imisatsi isa umukara, ndetse ufite n'icupa ry'amazi, wambaye na ekuteri, bigaragara ko ari muri siporo kuko yambaye imyenda igaragaza umuntu uba uri gukora siporo.

Umugabo w'ibigango wambaye ekuteri n'agapira gatoya, bigaragara ko ari muri siporo ufite icupa ry'amazi, ugiye unywa amazi, ugaragara ko afite uruhu rwirabura.

Ubwoko bw'ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abantu cyane iyo bari muri siporo, gusa si ibintu gusa harimo na pome ndetse n'icupa ry'amazi, imbere yabyo hari umuganga ugaragara igice kimwe ufite ikaramu, urimo arandika.

Icyapa gitoya kigaragaraho umuntu igice kimwe cy'ukuguru kwe ku kibero hariho uburibwe hadasa neza ndetse kivuga ko ari urugendo rwo kwivuza rw'aba siporutifu, birasa naho ari kampene yo gushishikariza abakora siporo uburyo bakitabwaho.

Abantu babiri batandukanye, bicaye batagaraga mu maso, umwe apfutse mu biganza byombi, undi hari icyo ari kumuhereza, bose ubona ko ari abazungu, arimo amuhereza agapfuko yakarambuye undi na we ubona ko yiteguye kukakira, imbere yaho hari intebe iteretseho igikapu.

Agakoresho kameze nk'agataburo baterekaho ibikoresho kwa muganga ndetse n'ahandi gafite ibipimo bigiye bitandukanye, kagizwe n'impande zitandukanye, ibipimo birutana, gasa neza.

Umugabo w'umwirabura munini w'ibigango usa naho ari muri siporo, yafunguye icupa rye arifashisha ukuboko kumwe ndetse afata amazi yari ari mu icupa ayamena mu maso, bisa naho yari ari muri siporo kuko yambaye imyenda ya siporo.

Igitsina gore, umugore wambaye imyenda ya siporo, agakabutura gatoya ndetse n'agasengeri gatoya, warambuye amaguru wicaye mu twatsi ndetse wafashe inkweto yambaye, arunama mu buryo bwo kugira ngo akore siporo.

Umugabo w'ibigango wambaye agasengeri, wazamuye amaboko afite icupa akaba ari kwisukaho amazi mu isura, amazi akamanuka, bisa naho amazi ari urubogobogo, akaba yambaye agatambaro kajya gusa n'uruvu ku kuboko kw'ibumoso.

Umugabo wambaye imyenda ya siporo, hasi yambaye ikabutura isa umukara ndetse yambaye agasangeri gasa umukara, arimo arakora siporo zo kurambura amaguru, ari mu nzu irimo amabara y'umweru hasi hari tapi isa ibara ry'umukara.

Umuntu w'umugabo wicaye hasi mu busitani, wambaye agasengeri k'umukara n'ipataro Isa umukara, bisa naho ari gukora siporo yo kwigorora, aho yafashe igice kimwe cyo hepfo ku maguru, yambaye inkweto.

Ubwoko bw'imbuto. Ndetse n'ibikoresho byiganjemo ibyuma bitandukanye. Ni imbuto zigizwe n'amagi, ubunyobwa, imineke ndetse na pome. Harimo n'izindi ndetse rero zitandukanye. Ku ruhande hari ibyuma bibiri bitandukanye ndetse n'akandi gatoya byifashishwa n'abantu bakora siporo. Iri ni ifunguro riba rigenewe umuntu ukora siporo buri munsi.

Abantu babiri umwe bunamye undi wicaye. Uwicaye ni umurwayi afite bande ku kuguru kumwe ndetse n'ukundi ko hirya kuriho indi bande. Yicaye undi arahagaze arunamye arimo amurebera ku kuguru ikibazo afite. Uwunamye yambaye umupira w'umutuku bisa naho bari kwa muganga kuko n'inyuma gato mu ifoto hagaragaramo abandi.

Icyumba gisa neza gituje kirimo ibikoresho biri ku murongo harimo igitanda ndetse n'imashini zitandukanye bisa n'aho ari kwa muganga, icyumba cyifashishwa muganga ari kwita ku murwayi byihariye bitewe n'ibikoresho birimo n'uko icyumba cyubatse, harimo vandarateri hejuru ndetse n'andi matara afasha muganga gukora gutanga serivise.

Itsinda ry'ibyo kurya rigizwe n'imbuto amagi, ibinyampeke ndetse kuruhande rwa hakaba hari ibyuma biri kuruhande bitandukanye.

Ukuboko k'umuntu bigaragara ko yirabura, afatishijeho akantu ku ngingo aho urugingo ruhura n'urundi, bigaragara ko yavunitse, yambaye umupira uciye amaboko ariko ujya gusa n'ibara ry'umweru.

Ikiganza gifashe icupa ry'amazi y'urubogobogo ripfundikiye, bigaragara ko uyu muntu ni umuzungu, ikirere kirasa ubururu, harimo n'umweru mukeya ubona ko gikeye uko bisa kose gisa neza.

Abantu babiri batagaragara mu maso, umwe wambaye ikote ririho ishani risa umukara, utambaye uturindantoki; undi umwe ukuboko kwe kwambaye uturindantoki, arimo arahabwa ibintu n'undi wambaye ijaketi.

Umugabo mukuru ukuze wirabura, wambaye umupira usa uruvu, umukara, ndetse ufite icupa ry'amazi ku munwa, arimo aranywa amazi. Arimo aritegereza imbere ye, ukuboko gushyira ukw'iburyo, ndetse yambaye umupira, ni wo ugaragara hejuru gusa.

Umugabo w'ibigango, munini wambaye agasengeri hejuru ndetse ufite n'icupa ry'amazi meza yasamye arimo aranywa amazi, afite umusatsi utari mwinshi kandi afite n'ubwanwa butari bwinshi, agasengeri yambaye gafite ibara rijya gusa n'icyatsi kibisi.

Imbuto zitandukanye ziri ku meza hejuru zigizwe n'amoko atandukanye, harimo : avoka, indimu y'ironji, ndetse na epo, hirya gato hari ubwoko bw'imboga zisanzwe ndetse hari n'agacupa batwaramo ji.

Ubwoko bw'inyandiko, ishushanyije bigaragaza ko iri gutanga amakuru ku buryo siporo ari ingenzi mu buzima bw'abantu, ndetse n'imiti yayo. Byanditse mu mabara y'umweru ndetse n'amabara ajya gusa icyatsi kibisi.

Umugabo upfukamye hasi wambaye imyenda bigaragara ko ari muri siporo apfukamishije ivi rimwe, irindi yarishinze yarifasheho. Yambaye umupira ujya gusa ikigina ndetse yambaye n'ikabutura isa umukara iciyemo. Yambaye udukweto dusa neza twa siporo tw'umukara ndetse n'umweru n'amasogisi y'umweru.

Abantu babiri umwe aricaye aciye bugufi undi arahagaze yarambuye amaboko yombi afite umugozi uhuza ayo maboko, undi amuri inyuma, ni muganga yambaye imyenda y'azi n'ikarita y'akazi ari kumufasha muri siporo zo kurambura amaboko. Bari mu cyumba kirimo imashini zitandukanye nk'uko bigaragara.

Icyumba gituje kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye hariho na za mudasobwa ndetse na za kamera, bisa naho icyo cyumba cyifashishwa na muganga mu gusuzuma no gukora ubushakashatsi butandukanye.

Igitsina gore ni umugore uteteza wambaye imyenda ya siporo uri kunywa n'amazi ubona ko yambaye imyenda yiganjemo ibara ry'umukara, hejuru agasengeri hasi ipantaro, biragaragara ko yari ari mu gikorwa cya siporo nubwo arimo aranywa amazi.

Icyapa kinini gihagaze kiriho amashusho agaragaza abantu batandukanye bitewe n'ikibazo bagiye bafite, bigaragara ko kino cyapa cyerekana serivisi cyangwa se ibibazo abantu bafite bitewe n'uko amafoto yabo atandukanye.

Ubwoko bw'ibikoresho byinshi bitandukanye byiganjemo amatoroshi, amasizo, imiti, uturindantoki, udupima umuriro ndetse n'inshinge. Bigaragara ko ari ibikoresho cyane cyane byifashishwa iyo bari gutanga ubufasha bw'ibanze ku barwayi cyangwa ku bantu bagize ikibazo gitunguranye.

Itsinda ry'abantu benshi bagizwe n'abagabo ndetse n'abagore, bambaye imyenda ya siporo, ubona ko bari ahantu hasa neza, imbere hariyo uri gutanga amabwiriza. Bambaye imyenda itandukanye ariko yifashishwa mu gukora siporo, hirya gato yabo hari ibiti bitandukanye biri kwifashishwa mu gutanga umwuka mwiza bahagaze ku mapave.

Ubwoko bw'umuti uri mu icupa rirerire rinini cyane rifite uburyo rifunguyemo kandi riteyemo, hasi hari ikintu cy'umukara cyanditseho amagambo atandukanye, bisa naho ari umuti wifashishwa n'abantu bakora siporo kandi ukaba ugabanya nk'uburibwe.

Umugore utari mukuru cyane wambaye imyenda ya siporo wazamuye amaboko ye akayahuza akamanura ikiganza akikora inyuma mu ijosi, yambaye utwenda dutoya, hejuru hari agasengeri bigaragara ko ari gukora siporo, yambaye n'isaha bigaragara ko ari muri siporo.

Umudamu mwiza cyane wambaye imyenda ya siporo, wambaye ekuteri mu matwi, ufite imisatsi y’umukara, wazamuye ukuboko kwe kw'ibumoso, ari kunywa amazi meza y’urubogobogo, yambaye agapira kajya gusa na pinki.

Icyumba gisa umweru, hasi hasa ubururu, harimo ibikoresho bitandukanye; Harimo imashini itunganya imirimo itandukanye kwa muganga, igizwe n'ibikoresho. Kimwe kirafunguye ikindi kiri imbere yacyo, bisa naho kimwe gifasha ikindi kugira ngo imirimo igende neza.

Abantu babiri, umugabo wicaye ku gatanda k'abarwayi, ndetse n'umugore urimo uramufasha muri serivisi z'ubuzima, aho umugabo ukuguru kumwe yambaye urukweto, ukundi kuguru nta nkweto yambaye, akaba yambaye imyenda isa umukara, ikabutura, ndetse n'umupira usa umukara, w'amaboko maremare, uwo muganga akaba yambaye imyenda y'akazi, nawe atambaye uturindantoki.

Umuntu w'igitsina gabo mukuru, yicaye arambuye ukuboko kumwe bisa naho kwavunitse, yafashe ukundi agufatisha ahavunitse, yambaye umupira wa lakosite w'umweru ndetse n'ipantaro ijya gusa n'ibara ry'umukara.

Abantu babiri, umwe aricaye undi arahagaze, uwicaye arimo aranywa amazi, uhagaze yazamuye amaboko ntagaragara mu maso, bisa naho bari gukora siporo, imbere yabo hari ibikapu bibiri bisa n'aho ari ibyabo, bicaye ku ntebe y'urubaho, hafi ku muhanda ubona ko hisanzuye

Icyumba kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga hahagazemo umugabo n'umugore, umugore wicaye umugabo uhagaze wambaye agapfukamunwa ishati n'ipantaro y'umukara, umugore wicaye hejuru ku mashini y'ikoranabuhanga wambaye agasengeri bigaragara ko ari muri siporo.

Igikoresho cyiza kiri mu mabara atandukanye arimo umuhondo, umweru ndetse n'umukara niyo atatu yiganje, gifite ahantu habiri hatandukanye hifashishwa n'abantu bakora siporo cyane cyane iyo muganga yabikwandikiye.

Abantu babiri. Umuzungu umwe w'umugore ndetse n'umugabo umwe wirabura. Umwe ni umuganga, umugabo ni umurwayi. Barimo bamufasha kuzamura ukuboko ndetse afite icyuma muganga ari kumufasha kuzamura. Bari mu bitaro.

Igikombe cy'ikirahure ndetse n'ijage y'ikirahure ari gusuka amazi ava mujabi ajya mu gikombe, bisa naho amazi ari uruglbogobogo, hejuru ufite ijage ayifatishije ikiganza gisa umukara.

Inkweto zikomeye ndende z'umukara, zanditseho bato, bigaragara ko ari inkweto zambarwa n'abantu bacunga cyangwa bashinzwe umutekano. Zikaba zifashishwa cyane cyane mu gihe imvura yaguye, no kuzamuka imisozi miremire, zirasa neza ubona ko zikomeye.

Mu cyumba imbere hari ibikoresho by'ikoranabuhanga, hari abantu batatu, umuganga umwe wicaye w'umugabo ndetse n'umumama wicaye ukikiye akana, aho umuganga arimo agasuzuma ku gice cyo hejuru ku mutwe yifashishije ibikoresho by'ikoranabuhanga, muganga akaba yambaye imyenda y'akazi.

Ubwoko bw'ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu isuku, no kwita ku ruhu rw'ubuzima bwa buri munsi busanzwe, rugizwe n'amavuta, rugizwe n'impapuro z'isuku zigizwe na parufe, ndetse n'ibindi biri mu makarito.

Amazi y'urubogobogo agaragara amwe ari mu icupa ripfundikiye, ndetse andi bigaragara ko bayafotoye azamuka bimeze nk'aho yamenetse bahita barayafotora, agaragara ko ari amazi y'urubagobogo.

Umugabo ufite ibigango usa neza wambaye umupira wiganjemo ibara ry'ubururu ndetse na ekuteri ziri mu ijosi, afite icupa ry'amazi arimo ntagaragara neza mu maso ariko bigaragara ko yambaye imyenda y'umuntu wari uri gukora siporo.

Abaganga babiri ba Croix Rouge bambaye umwambaro wayo, barimo barita ku mukinnyi. Hari abandi bakinnyi bahagaze hejuru yabo, bari gukurikirana ubuzima bwa bagenzi babo. Inyuma yabo hari undi umuntu ufite kamera, urimo urafotora. Bisa n'aho ari ku kibuga bari bari gutanga ubufasha bw'ibanze, buzwi nka fasiti eyidi.

Umugabo wicaye utagaragara mu maso wambaye agapira gasa umweru, ndetse warambuye ukuboko kumwe gusa naho gufite ikibazo, afite ikintu yarambuye kuko kuboko gufite ikibazo, aricaye yambaye ipantaro isa umukara bisa naho yicaye muri saro ari guhabwa serivisi.

Umugabo wunamye wambaye imyenda ya siporo, igizwe n'isaha ndetse n'agakabutura gatoya, ariko igice cyo hasi amavi aragaragara amaboko ye yose yayafatishije ukuguru kwe kumwe kw'ibumoso, yunamye yakozeho.

Icyumba cyisanzuye neza kirimo abantu batandukanye ariko harimo ibikoresho byinshi bisa n'aho ari ibya siporo, ikaba ari inzu yifashishwa n'abantu bari gukora siporo ngororamubiri. Ni ahantu harimo ibara rijya gusa uruvu ndetse ubona ko hadacanye amatara, harimo ibikoresho bigiye bitandukanye.

Ni ubwoko bw'imbuto butandukanye; harimo inanasi, amaronji, pome ndetse n'ibindi; ku ruhande hari imidari ndetse n'ibindi byuma bitandukanye ndetse n'ibinini bikaba byose ari ibikoresho ndetse byifashishwa n'abantu bakora siporo, ari izo mbuto zifashishwakora siporo ndetse n'ibyo bikoresho by'ibyuma byifashishwa n'abantu bakora siporo harimo ndetse n'imineke.

Ubwoko bw'ikimera gitangaje gikura hasi kirandaranda, gifite indabyo zisa neza kandi zitangaje mbese ni nziza kuzitegereza, ni ahantu hari ubutaka busa ikinombe, ni ikimera kimwe kirandaranda gifite izo ndabyo zisa gutyo.

Ikarito nini cyane ifite amabara atandukanye yanditseho amagambo menshi agiye atandukanye ariko yandikishijwe mu ibara ry'umweru, akaronko gasa ubururu, ni ikarito nini irimo amoko y'imiti atandukanye cyane cyane imiti gakondo iva mu bimera.

Ubwoko butandukanye bw'ibiribwa cyangwa se imiti gakondo igizwe n'ubwoko bw'ibimera bigiye bitandukanye, ndetse ku ruhande hari n'agacupa karimo umuti w'amazi, hakaba hari n'agakoresho bakoresha batunganya iyo miti.

Ubwoko bw'imitsi itandukanye yifashishwa mu buryo bugiye butandukanye, igizwe n'iri mu ducupa, igizwe n'iri mu makarito maremare, igizwe ndetse n'indi iri mu bicupa binini bigaragara nk'aho ari imiti isukika.

Icupa rinini risa umweru rirerire, ririho amagambo meza agaragaza icyo iryo cupa rimeze, hirya gato hari ubwoko bw'imbuto bugeretse gatatu busa icyatsi kibisi ndetse n'umweru, bigaragara ko ari imbuto zifashishwa mu gutunganya umuti uri muri iryo cupa.

Icyatsi kiri mu bwoko bw'ibiti, kirandaranda, kiri hejuru gatoya, hejuru y'igiti, munsi y'aho hari urugo rurimo ibyuma, senyenge, hakurya gatoya inyuma y'ifoto hari ibiti binini, bizamuka, bitagaragara neza, bimeze nkaho ari muri jaride.

Amacupa y'ubwoko butandukanye amanitse muri etajeri ndetse amwe ari hejuru y'andi, harimo amagufi afite imifuniko asa n'ibara ry'umuhondo ndetse harimo n'amaremare ajya gusa umukara cyane, bisa n'aho ari imiti gakondo.

Amavase atandukanye arimo ibimera bitandukanye bisa naho ari imiti gakondo, biteretse hejuru y'icyuma ari byo bifashe a mavase, hirya gatoya hari ubundi bwoko bw'ibimera inyuma mu ifoto.

Ubwoko bw'ibiti butangaje bufite indabyo zisa neza cyane, ndetse higanjemo n'amababi asa icyatsi kibisi cyane, ubona ko zikura zijya hejuru. Ibiti byifashishwa n'Abanyarwanda iyo batunganya umuti uva mu bimera.

Ameza ateguyeho icyo kunywa bigaragara ko ari umuti ugizwe na tangawizi, indimu ndetse n'umutobe wayo, bigaragara ko ari ibyo kunywa.

Ibiti byinshi byegeranye ubona ko ari mu ishyamba ry'inzitane ariko hagaragaramo indabyo z'umweru cyane zizamuka ku giti gifite amababi asa icyatsi kibisi adahiye cyane, ubona ko ari ahantu hari ibiti byifashishwa mu gukora umuti w'indwara gakondo.

Itsinda ry'imiti itandukanye iva mu bimera, ikaba ari imiti gakondo, yifashishwa n'abaganga kwita ku buzima bw'abarwayi, imiti iri mu bucupa butandukanye, bugizwe n'ubutoya ndetse n'amacupa manini bikaba bimanitse muri etageri.

Ubwoko bw'umuti uri mu icupa ritareshya hasi riragutse hejuru rirananutse cyane hariho akanyoni kagaragaza imikoreshereze y'iryo cupa, hasi bigaragara ko ari imiti yifashishwa mu ndwara ndetse no mu koresho gakondo.

Ivuriro ryita ku burwayi bugiye butandukanye hariho icupa ririmo imiti ndetse bigaragaza ko harimo n'igabanyirizwa ku giciro, hari serivisi zitandukanye iri vuriro ritanga, harimo nko kwita ku buzima bw'abakuze.

Ubwoko bw'ikimera cyifashishwa mu kuvura ndetse gisa icyatsi kibisi kigira amababi yisanzuye maremare kandi iki kimera gikoreshwa mu buvuzi gakondo ino aha mu Rwanda no muri Afurika muri rusange.

Icupa ririho ibirango bitandukanye, bisobanuye ko hari imiti yifashishwa mu kuvura, iyo bamaze gusuzuma uburwayi bwa amibe, barimo baramamaza ko hari umuti uvura wonyine indwara ya amibe, uri muri kano gacupa kagaragara ku ifoto.

Ahantu hisanzuye cyane hari ubwoko bw'ibimera butandukanye, bimwe bigufi ibindi birebire hagaragaramo igiti kinini gifite amashami arumbaraje atari cyane gusa gisumba ibindi, hirya gato hari ibindi biti bisanzwe bitoya bigaragara ko ari umukenke.

Ikibabi gishashe gisa icyatsi kibisi kirambuye cyane, kiriho ibinini ubona ko bikozwe mu bimera bitandukanye mu mibare biri hejuru, byinshi biregeranye, ikindi kimwe kiri ku ruhande.

Ubwoko bw'amacupa atandukanye arambitse ku kintu kimwe, ariho udupapuro twanditseho ibintu bigiye bitandukanye bisa n'aho ari amacupa menshi, agiye ageretse rimwe ku rindi, rimwe kuri rindi, bigakora itsinda ryayo.

Agakarito kagereranyije katari kanini, kajyamo imiti bahereze umurwayi kwa muganga iyo bamaze kumusuzuma, kagizwe n'amabara atandukanye arimo umweru ndetse n'umutuku ku ruhande n'akarongo k'umutuku kanyuramo gatambitse, gafite amagarama magana atanu.

Ubwoko bw'imiti iva mu bimera, ni uducupa tubiri ducuritse turiho ibirango bitandukanye bigaragara ko ari uburyo uyu muti ukoreshwa ndetse n'aho uturuka n'indwara uvura, birasa n'aho utu ducupa twose dusa umweru, ariko tukaba ducuritse turiho ibirango byandikishije ibara ry'icyatsi kibisi.

Itsinda ry'amacupa atandukanye, maremare ndetse n'amagufi ari hamwe, amacupa ageze kuri atandatu. Iruhande rwaho hari agabokisi gatoya karimo udukoresho dutandukanye, amacupa agiye asa amabara atandukanye.

Ibyatsi bifite ibibabi bisa icyatsi kibisi, byegeranye ubona ko bisa neza. Byifashishwa mu gukora imiti gakondo cyane cyane mu Rwanda ndetse no muri Afurika. Ni ibyatsi bisa neza ubona ko bishishe.

Ubwoko butandukanye bw'imiti gakondo yifashishwa mu buvuzi hano muri Afurika ndetse no mu Rwanda, hari iri ku munzani ndetse iri mu tuntu bafatishijemo igizwe n'ibiti bitandukanye.

Ububiko bw'ibintu byakoreshejwe bitandukanye biravanze ku buryo itabasha kwibitandukanya, higanjemo ibibumbano ndetse n'ibindi bya palasitiki biri ahantu hamwe mucyumba babyegeranyijemo.

Ububiko bw'imiti ahantu hatuje hari amacupa atatu atandukanye kuri etajeri ntoya zisa neza zisa umweru, bigaragara ko ari imiti ihabitse mu cyumba cyabugenewe.

Abantu benshi batandukanye, bari mu byerekezo bitandukanye, bari kureba ahantu hatandukanye, imbere hari amacupa arimo imiti itandukanye. Birasa naho wagira ngo ni mu isoko. Hari ibicuruzwa bitandukanye ariko byiganjemo imiti gakondo.

Itsinda ry'imiti itandukanye iri mu ducupa dutoya, mu tunini ndetse no mu makarito. Bigaragara ko buri miti igiye iri ukwayo ndetse no mu ngano zigiye zitandukanye, kuri ayo makarito n'uducupa hari amagambo agiye yanditseho agaragaza uburyo ikoreshwa.

Ubwoko bw'ibiti butandukanye, ariko hagaragaramo cyane cyane ikizwi nk'umuravumba, ukaba wifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye hano mu Rwanda ndetse no ku isi muri rusange. Hirya gato hari ubundi bwoko bw'ikimera butagaragara neza, bisa naho ari mu gashyamba gateyemo ibiti byifashishwa mu kuvura indwara, bizwi nk'imiti gakondo.

Ubwoko bw'ibimera birandaranda hasi, gisa icyatsi kibisi, gifite amababi asa icyatsi kibisi ariko aho kiri ntabwo hari ibindi bimera, bisa naho byumye.

Amasura y'abantu bageze kuri batandatu, bigaragara ko bafite ikibazo cy'uruhu mu buryo butandukanye, barimo bareba mu byerekezo bitandukanye, hirya gatoya hari ubwoko bubiri bw'imiti, bugaragara ko bwifashishwa mu kwita ku kibazo bano bantu bafite.

Igiti kikiri gitoya ubona ko gifite amashami atatu matoya magufi, hasi yacyo hari ibindi bigufi kuri cyo biyikikije, hanyuma kikaba gifite amababi asa icyatsi kibisi.

Amakarito, inanasi, imyembe, imineke, indabyo ni ubwoko bw'amafoto agaragaramo hano imbere handitseho amagambo agiye atandukanye, bigaragara ko ari imiti kuko hari amagambo abisanishwa.

Itsinda ry'abantu bahetse ibikapu bari kwerekeza imbere yabo hari amazi amanuka ndetse ubona ko ari mu ishyamba, bari kAunyura ahantu hari amabuye agiye atandukanye ku mpande zombi hirya ndetse n'ibumoso, iruhande rwabo ndetse hakikijwe n'ibiti ubona ko ari mu misozi miremire.

Ubwoko bw'imiti itandukanye igiye iri mu ducupa, mu tubuni dutoya butandukanye, handitseho amagambo agiye atandukanye yiganje mu ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'umuhondo utijimye.

Agacupa gasa neza kari mu mabara y'umweru ndetse n'umuhondo, hariho ibirango bigiye bitandukanye, mo imbere bigaragara ko harimo imiti yifashishwa mu kwita ku barwayi, hariho n'ibirango bigaragaza uburyo iyo miti ikoreshwa.

Agacupa keza gasa umweru gapfundikiye ndetse gafite n'icyapa imbere cyanditseho amagambo atandukanye, agaragaza ko harimo ubuki mo imbere, bukaba bwakora ndetse nk'umuti.

Igiti kigaragazwaho amababi yacyo asa icyatsi kibisi ndetse yifashishwa gukora imiti hano mu Rwanda ya gakondo, biragaragara ko ari igiti kimwe kidafite ibindi biti byinshi bikegereye aho gishinze ubona ko ari cyonyine.

Ikirango gishushanyije kiriho amagambo ndetse n'inyoni iguruka, kigaragaza ko ari akanama cyangwa se ikigo gihuriweho mpuzamahanga gishinzwe kwita kuri Siyansi.

Itsinda ry'abantu batandukanye bagizwe n'abadamu ndetse n'abagabo bambaye hejuru imipira isa ndetse harimo n'abandi babiri hagati bambaye ibitandukanye bigaragara ko bari bari mu nama cyangwa se mu gikorwa cy'ubuhinzi, imbere yaho hari ibihingwa bitandukanye byifashishwa mu gukora umuti gakondo.

Itsinda ry'imiti gakondo iri mu macupa ndetse n'amakarito agiye atandukanye, ni amacupa yiganjemo ibara ry'umweru ariko handitseho amagambo hifashishijwe amabara agiye atandukanye, ni imiti ituruka ku bimera gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Imirima ibiri irimo ibihingwa, bijya gusa ariko bitandukanye bitewe n'urumuri, hamwe harijimye ahandi ntabwo hijimye, harisanzuye harimo ubwoko butandukanye bw'ibihingwa; hirya y'ifoto inyuma hari amazu atagaragara neza, bigaragara ko hegereye aho abantu batuye, cyangwa se ibindi bikorwa bikorerwa.

Ubwoko bw'indabyo bugiye butandukanye harimo izifite ibibabi bisa n'ubururu, izifite ibibabi bisa icyatsi kibisi kitijimye, ndetse n'izifite indabyo zisa neza, harii zisa umuhondo ndetse n'umutuku zifashishwa mu gukora imiti gakondo.

Ubwoko bw'igiti cyeze neza kizamuye gisa n'ururabyo, cyera indabyo z'umweru. Izi ndabyo zifashishwa n'abaganga gakondo, iyo bari gutunganya umuti wa Kinyarwanda uva mu bimera. Harasa neza hose.

Amatsinda menshi y'imiti atandukanye, ari mu ducupa dutandukanye dufite imifuniko ijya gusa n'ibara ry'icyatsi kibisi, inyuma yayo hari abantu benshi bicaye, harimo abagore ndetse n'abagabo batagaragara mu maso, ayo macupa yanditseho amagambo atandukanye bisa naho yifashishwa nk'imiti gakondo.

Ubwoko bw'imiti ikorwa ivuye mu bimera, ibinini ndetse imbere hari ikarito iriho imikoreshereze y'iyo miti n'icyo ivura, bigaragara ko ari ubwoko bw'imiti gakondo ikorwa itongewemo ibindi binyabutabire.

Ibikoresho bitandukanye biri ku meza hejuru bigizwe n'imbuto, byatsi, ibibabi ndetse n'ifu iseye ndetse n'ibikoresho bifashisha mu tumbano.

Umugore uri mu murima, harimo ibiti bitandukanye, bisa naho arimo arasarura ibyeze muri ibyo biti. Yambaye agatambaro karimo ibara risa n'umweru, kandi we arirabura.

Ubusitani bw'ibimera butandukanye, harimo ubwoko bw'ibiti bwifashishwa nk'imiti gakondo, ndetse hirya hagaragara ishyamba ry'inzitane, bigaragara ko aha ngaha ari mu ishyamba bahinga cyangwa se batera ibiti.

Umugabo umwe wambaye imyenda bigaragara ko ari iyo akazi ari umuganga, yambaye agapfukamunwa, ingofero ndetse n'itaburiya, afite imiti y'ubwoko butandukanye, iri mu mukarakasi ndetse n'iri mu ducupa dutandukanye.

Ubwoko bw'imiti butandukanye buri mu byiciri bigiye bitandukanye, harimo ikawa ipfundikiye n'indi iri mu gacupa, ndetse umuti uri mu dupapuro, no mu dukaratase, no mu dukarito dutoya turinganiye, ugiye utandukanye.

Agacupa katari karekare gacuritse, umufuniko wako usa umweru, mu mbavuko zako harimo ibara risa umuhondo ndetse n'umweru, bigaragara ko karimo umuti wa Kinyarwanda wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Ubwoko bw'indabyo bugaragara cyane mu busitani, aho indabyo zifashishwa na none mu kuvura indwara no gutunganya imiti gakondo, iyi ni ururabyo rusa umuhondo ariko hasi hari utwatsi duto dusa icyatsi kibisi.

Agacupa kadafite umubyimba munini ndetse kazamuye cyane kajya gusa ibara ry'umukara ritijimye hejuru, ndetse yanditseho amagambo agira ati sikini oyiri, bisa naho ari amavuta yifashishwa mu gusiga uruhu kugira ngo rugire ubuhehere bwiza ndetse rube rusa neza.

Ubwoko bw'igiti gikora kizamukiye hamwe ndetse gifite amababi asa icyatsi kibisi, ni umuravumbu wifashishwa mu kwita ku burwayi bugiye butandukanye cyane cyane hano muri afurika, hirya yaho hari ibindi biti ariko byitazuye aho kino giti kimwe kiri, ubona ko ari itsinda ry'ibiti biri hamwe.

Akabuni ka litiro nk'eshatu, gafite umufuniko usa ibara ry'umutuku kandi gafite icyo hasi gisa n'ibara ry'umweru utijimye, hariho amagambo atandukanye agaragaza ko ibirimo imbere uburyo bikoreshwa n'uko byitwa.

Ubwoko butandukanye bw'ibimera bigaragara ko hari ibyifashishwa mu miti bakora umuti gakondo, harimo ibigizwe n'ibimbuto n'ibindi by'ubwoko butandukanye bya kimeza.

Icupa ritoya rimeze nk'iricuritse ririmo umuti rigizwe n'amagambo yanditseho serumu, hariho akarangwa k'inyenyeri ireba hejuru.

Ni ubwoko bw'imiti itandukanye hari iri mu makarito iri mu macupa asa umuhondo, ndetse amakarito akaba ari ane n'amacupa akaba ari abiri, ishushanyijeho umuntu urimo uriruka wambaye imyenda ya siporo, bisa naho ari imiti yifashishwa n'abantu bakora siporo.

Isura y'umuntu itagaragara neza, bigaragara ko ari umugore warambuye ibiganza. Hejuru y'ibyo biganza hakaba hari agacupa gasa umukara, ku ruhande hariho amagambo atandukanye agaragaza ikirimo imbere.

Umuntu wambaye imyenda yiganjemo ibara ry'umukara hejuru ndetse n'ibara ry'umutuku mo hagati, ufite ibyatsi mu ntoki byifashishwa nk'imiti gakondo, inyuma ye hari ibindi byatsi by'ibimera bitandukanye bimeze nk'icyatsi kibisi.

Itsinda ry'abantu bambaye imyambaro hejuru igiye isa, ariko higanjemo icyatsi kibisi n'umweru ndetse abandi bambaye indi mipira isa ukwabo, bari mu murima wisanzuye bigaragara ko hari n'imashini iri kwifashishwa mu kwerekana uko ikoreshwa iyo bahinga, cyangwa bategura imyaka, hafi yabo hari igiti kinini gisa icyatsi kibisi.

Amafoto ane atandukanye agaragaza ibintu bine bitandukanye, hari iri hejuru igaragaza umuntu ufite ibintu mu ntoki bisa nk'igisimba. Munsi hari indi foto igaragaza umusore uhagaze wambaye ijaketi y'umutuku afite igiti mu ntoki yakozeho. Hirya gato hari indi foto igaragaza abantu batatu barimo baragenda mu ishyamba. Iya nyuma igaragaza ubwoko bw'igiti kirandaranda.

Amacupa asa ndetse acuritse ariho ibirango by'ikimera, handitseho n'amagambo atandukanye. Aya macupa arimo umuti gakondo uvugwa mu bimera.

Ubwoko bw'imiti itandukanye iri mu makarito, iri mu macupa maremare asa umuhondo, amakarito apfundikiye ugizwe mu makaritp ane ndetse n'amacupa abiri, amacupa asa umuhondo bisa n'ahoho ari imiti ya gakondo ikozwe mu bimera.

Icupa risa neza ritari rirerire cyane risa n'ibara ry'umweru, ku ruhande hari igiti kimwe kivamo iyo miti iri muri iryo cupa mo imbere, handitseho amagambo atandukanye agaragaza ubwoko bw'ibirimo imbere ndetse n'uburyo bikoreshwa n'abantu babikeneye.

Ikirango cyihariye kigaragaza icyayi gikozwe mu bimera, bisa n'aho iki cyayi cyifashishwa mu kuvura, bitewe n'uko gikoreshwa mu muti gakondo.

Ubwoko bw'imiti iri mu ducupa, mu makarito ndetse mu buryo butandukanye, ifite amabara na yo agiye atandukanye. Ni uducupa dutandatu ndetse turi mu ma etajeri agiye atandukanye, buri gacupa gafite amagambo akanditseho munsi agaragaza icyo umuti urimo imbere ukora.

Amoko atandukanye y'ibimera ari mu byiciro byinshi ndetse ni amoko ageze ku icyenda, buri bwoko bufite icyo bukora ndetse hari n'amagambo agiye atandukanye agaragaza icyo buri giti gitunganywamo, ni ibiti byifashishwa mu gukora umuti gakondo.

Ubwoko bw'ibiti bwifashishwa mu miti gakondo buzwi ku izina ry'umuravumba, uvura indwara zitandukanye ndetse na n'uyu munsi uracyakoreshwa, bigaragara nkaho ari ubusitani burimo imiti itandukanye ya gakondo.

Amababi y'igiti asa icyatsi kibisi akuriye hejuru ndetse hariho n'imbuto zitandukanye bisa n'aho aya mababi y'ibiti yifashishwa mu gukora umuti utandukanye cyanecyane umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye hano mu Rwanda.

Icupa risa neza rifite umufuniko hejuru ujya gusa umuhondo utijimye, ndetse hagati ni umweru uvanzemo umuhondo, hariho amagambo atandukanye agaragaza imikoreshereze y'uwo muti, bisa n'aho ari umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye mu Rwanda.

Ibitunguru bibiri kimwe giciyemo kabiri, indimu ya makari iciyemo ibisate bibiri ndetse n'icupa risa naho ari umuti ririho amagambo atandukanye, agaragaza imikoreshereze y'uwo muti.

Ubwoko bw'imbuto burinda indwara izwi ipapayi, irasa neza igice kimwe bagisatuye kirareba neza gisa umuhondo ubona ko keze, kifashishwa cyane cyane mu kwita ku buzima bw'abantu bu bagiye batandukanye, abana, ndetse n'abantu bakuru.

Mu ishyamba ritari inzitane, bigaragara ko harimo ibyatsi bitandukanye ndetse n'ibiti bitandukanye, harimo cyane cyane ibyifashishwa mu gukora imiti gakondo, urebye neza ubonamo ibiti binini cyane bizamuye ndetse n'ibindi bitoya bifite amababi ashingiye hasi.

Ubwoko bw'ibiti bitandukanye bigaragara ko byifashishwa mu miti gakondo ya kinyarwanda. Hari ibiti birebire bifite amababi atoshye kandi asa n'icyatsi kibisi, hari ibindi biri hasi bidafite amababi maremare.

Ubwoko bw'ibimera butandukanye, bufitwe n'abantu bagiye batandukanye, mu bice by'umubiri bitandukanye, hamwe hagaragara igice kimwe cy'igiti cyameze, ku ruhande gifitwe mu ntoki, undi agaragaza imbuto azifite mu ntoki, undi agaragaza igiti cyashibutse, cyazamutse.

Igiti gitoya gifite amashami atatu ndetse afite ibibabi bitandukanye birandaranda, hasi yaho hari ubusitani ubona ko bufite utwatsi ariko tutegeranye, hari umuntu uri gufata ku ishami rimwe ry'icyo giti bisa naho ari umwirabura.

Ubwoko bwa pipiniyeri harimo abantu benshi bahagaze n'abandi bari kunama batunganyamo imirimo itandukanye, ubonako hari ubwoko bw'imbuto buri hasi bafumbiye bigaragara ko ari imiravumba yiganje, kandi hatangirwa serivisi zo gutunganya imiti gakondo , hari abantu benshi barimo bakora muri ako kazi, ubonako hari igisharagati kimanitse.